Icyapa kinini kiri ku muhanda wa kaburimbo Nyabagendwa, kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru, kigaragaza ko imbere hakorera ikigo cya ETG. Aha kaba ari aho abanyeshuri bigishirizwa imyuga ndetse n'ibimenyingiro bitandukanye, bibafasha kuza gukemura ibibazo biri muri sosiyete.

Abaturage bari mu bikorwa byo gutwara ifumbire mborera bayijyana mu mirima yabo, aho bagiye kuyiteresha imyaka, nk'imwe mu namba zitagwa n'impiguke mu by'ubuhinzi ndetse n'ubworozi, aho bashishikariza abahinzi gutesha imyaka ifumbire mborera ndetse n'imvaruganda nka bimwe mubibafasha mu kuzamura umusaruro wabo.

Inyubako icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye byifashishwa n'abahinzi ndetse n'aborozi mu kuzamura umusaruro wabo zizwi nka farumasi, aho abahinzi ndetse n'aborozi bashobora kubona imbuto, imiti y'amatungo, inyongeramusaruro ndetse n'ibindi bikoresho by'ibanze nkenerwa mu kazi kabo ka buri munsi.

Umukobwa wambaye agapira k'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara aho arimo gukora ifumbire y'imborera yifashisha mu gihe cyo guhinga imyaka, iyi ikaba ari imwe mu nama zitangwa impuguke muby'ubuhinzi ko gutera imyaka yifashishije ifumbire mborera ndetse n'imvaruganda aribimwe mu bifasha mu gutanga umusaruro mwiza ndetse no kuzamura imibereho n'ubukungu byo bikora.

Mu nyubako izwi nka farumasi, ahacururizwa imiti y'amatungo, imiti yuhira imyaka, amafumbire n'inyongeramusaruro, ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa n'abahinzi, ndetse n'aborozi mu gukora akazi kabo ka buri munsi. Hagaragara kandi imiti ndetse n'abahanga mu by'ubuhinzi, ndetse n'ubworozi bagira inama abahinzi bigamije kuba bazamura umusaruro w'ibyo bakora.

Inyubako zikoreramo ibigo bitandukanye nk'uko bigaragazwa n'ibyapa bimanitse hejuru y'amazu, biyobora abaturage ndetse n'abandi bose bashaka serivisi. Hakaba n'inyubako icururizwamo imiti, inyongeramusaruro, imbuto ndetse n'ibindi byifashishwa n'abahinzi ndetse n'aborozi, hagamije kwegereza serivisi zibafasha mu kongera umusaruro mu bikorwa byabo bya buri munsi.

Ibiganza by'umuntu ufashe umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi, ugizwe n'imbuto za tangawizi. Izi akaba arimo ziboneka hirya no hino mu Gihugu, aho abahinzi bagirwa inama yo gushora imari mu buhinzi bw'ibihingwa by'imboga ndetse n'imbuto, nka bimwe mu bitanga umusaruro mwinshi kandi mwiza mu gihe gito.

Ibyapa bimanitse ku nzugi z'ahacururizwa inyongeramusaruro, imiti, imbuto, ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, byifashishwa n'abahinzi ndetse n'aborozi, mu rwego rwo kuzamura umusaruro wabo, izi farumasi zikagenda ziboneka hirya no hino mu gihugu, zifasha abaturage kubona ibyangombwa nkenerwa, mu kuzamura umusaruro w'ibyo bakora, mu bwinshi ndetse no mu bwiza.

Abaturage bari mu bikorwa byo kubagara imyaka yabo ihinze mu kibaya kinini aho bahuje igihingwa cy'ibigori, iyi ikaba ari mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuhinzi ko iyo abaturage bahuje igihingwa kimwe, bakagihinga ku buso bunini bibafasha kunoza ndetse no gukora akazi kabo, kubona umusaruro mwinshi, bikabafasha kwiteza imbere ndetse no kubona ibibatunga bityo bakazamura imibereho yabo.

Hirya no hino mu gihugu hagaragara inyubako zicuruzwamo imiti, inyongeramusaruro, ifumbire ndetse n'ibindi bitandukanye, byifashishwa n'abahinzi ndetse n'aborozi mu bikorwa byabo bya buri munsi, hagamijwe ko bazamura umusaruro mu byo bakora mu bwiza ndetse no mu bwinshi.

Ibyapa bimanitse ku nyubako icururizwamo imiti, imbuto, inyongeramusaruro ndetse n'ibindi bikoresho bikenerwa n'abahinzi ndetse n'aborozi izwi nka farumasi. Izi nyubako zikaba ziboneka hirya no hino mu gihugu mu rwego rwo gufasha abahinzi ndetse n'aborozi kubona ibikoresho bakenera mu kazi kabo ka buri munsi, hagamijweko bakongera umusaruro w'ibyo bakora mu bwinshi ndetse no mu bwiza.

Abaturage bari mu bikorwa byo kubagara imyaka yabo igizwe n'ibigori bashyiraho ifumbire mvaruganda ndetse banatera imiti yica udukoko murwego rwo kubafasha kuzamura umusaruro mu bwinshi ndetse no mu bwiza nk'uko bitangwamo inama n'impuguke mu by'ubworozi ndetse n'ubuhinzi.

Inyubako izwi nka farumasi ahacuruzwa imiti y'amatungo, inyongeramusaruro, imbuto ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa n'abahinzi ndetse n'aborozi mu bikorwa byabo bya buri munsi. Aya mafarumasi akaboneka hirya no hino mu gihugu, aho afasha abahinzi mu kongera umusaruro wabo mu bwinshi ndetse no mu bwiza.

Abagabo bane bari mu bikorwa by'ubuhinzi, aho bari gukoresha amasuka batunganya neza imirima bazateramo imyaka, ubwo igihembwe cy'ihinga kizaba gitangiye, iyi akaba ari inama itangwa n'impuguke mu by'ubuhinzi, aho abagira inama abahinzi gutegura neza aho bazatera imbuto mbere yo igihembwe cy'ihinga gitangira, kimwe mu bibafasha kongera umusaruro.

Icyapa kimanitse ku nyubako kigaragara ahacururizwa imiti, inyongeramusaruro, imbuto ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa n'abahinzi mu rwego rwo kuzamura umusaruro w'ibyo bakora, aho kandi babona ubujyanama ku bikorwa byabo bya buri munsi bigamije ko biteza imbere ndetse bakongera n'umusaruro wabo.

Ibase nini cyane iteretse irimo kawa zumishijwe neza, zigiye kujyanwa mu nganda kugira ngo zitunganyiwe ndetse zinongererwe agaciro, uyu akaba ari umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi, aho abakora ubu buhinzi bwa bene ibi bihingwa, babasha kwiteza imbere ndetse bakazamura n'imibereho yabo, binyuze mu mafaranga bahabwa ku musaruro wabo.

Kubagara ibihingwa kubyuhira ndetse no kubishyiraho ifumbire mvaruganda, ni imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubworozi ndetse n'ubuhinzi, nka kimwe mu bisubizo bifasha mu kuzamura umusaruro w'abahinzi mu bwinshi ndetse no mu bwiza. Ibihingwa bya kawa by'umwihariko ndetse n'ibindi bihingwa mbaturabukungu, ni bimwe mu bigomba kwitabwaho muri ubu buryo.

Urujya n'uruza rw'abaturage baje mu bikorwa byo kugura inyongeramusaruro ibafasha mu kunoza neza ibikorwa by'ubuhinzi, hagamijwe kongera umusaruro w'ubuhinzi mu bwiza ndetse no mu bwinshi nka bimwe mu bibafasha kwiteza imbere, ndetse no kuzamura imibereho myiza yabo ya buri munsi.

Ubuhinzi bw’imboga ndetse n’imbuto ni bumwe mu guteza imbere ababukora iyo bwitaho neza cyane, ndetse bugahabwa n'ibyangombwa bikenerwa. Aho kandi abaturage bagirwa inama yo kuhira imyaka yabo mu rwego rwo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe hagamijwe kongera umusaruro wabo mu bwinshi ndetse no mu bwiza ibihe byose.

Ifumbire mvaruganda yifashishwa n'abahinzi mu gihe barimo kwita ku bihingwa byabo yaba mu gihe babitera cyangwa barimo kubagara nk'uko bitangwa mo inama n'impimpuguke mu by'ubuhinzi kuko ubuhinzi bwitaweho imyaka ishyirwaho ifumbire ndetse n'iyicirwa ibyonyi bifasha kuzamura umusaruro mwiza bityo bigateza imbere ubukora.

Inyubako icuruzwamo inyongeramusaruro, amafumbire, imbuto ndetse n'ibindi bikoresho byose byifashishwa n'abahinzi, ndetse n'aborozi mu kunoza akazi kabo ka buri munsi, hagamijwe ko bazamura umusaruro w'ibyo bakora mu bwinshi, ndetse no mu bwiza, zigenda ziboneka hirya no hino mu gihugu.

Muri farumasi ziri hirya no hino mu Gihugu zibonekamo ibikoresho by'ibanze bikenerwa n'abahinzi ndetse n'aborozi mu kazi kabo ka munsi mu kuzamura umusaruro w'ibyo bakora. Harimo nk'inyongeramusaruro, imiti y'amatungo, ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa mu bikorwa by'ubuhinzi ndetse n'ubworozi.

Inyubako icururizwamo inyongeramusaruro: imbuto, ifumbire ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa n'abahinzi n'aborozi mu kunoza akazi ka buri munsi izwi nk'inyubako zicururizwamo inyongeramusaruro. Zigenda zigaragara hirya no hino mu gihugu mu rwego rwo gufasha abaturage kubona ibyangombwa bakenera mu gihe bakora ibikorwa byabo by'ubuhinzi ndetse n'ubworozi.

Abaturage bari mu bikorwa byo kubungabunga igihingwa cya kawa, kimwe mu bitanga umusaruro mwinshi kandi mwiza bigafasha n'ababikora mu kwiteza imbere, impuguke mu by'ubworozi ndetse n'ubuhinzi zigaragaza ko igihingwa cya kawa kigomba kwitabwaho cyuhirwa, cyicirwa, ndetse kinakurwamo ibyonnyi mu rwego rwo kongera umusaruro burigihe.

Ubuhinzi bukozwe neza kandi mu buryo bwa kinyamwuga, ni bumwe mu bufasha abahinzi kwiteza imbere, ndetse no kubona umusaruro mwinshi kandi mwiza. Bityo bakihaza mu mirire bagasagurira n'amasoko. Abajyanama mu by'ubuhinzi rero, batanga inama ko guhinga kijyambere, abantu bahinga ku murongo ari bimwe mu bifasha mu kugira umusaruro mwinshi kandi mwiza.

Ubuhinzi bukozwe neza kandi mu buryo bwa kinyamwuga, ni bimwe mubishobora gutanga umusaruro, bigafasha ubikora kwiteza imbere, kwihaza mu mirire ndetse no kuzamura imibereho ye, binyuze muri ubu buhinzi. Aho abahinzi bagirwa inama yo kwita ku myaka yabo batera imiti, buhira, ndetse banicira ibyonnyi bishobora gufata imyaka yabo kugira ngo bagire umusaruro mwiza.

Muri pepenyeri ahatunganyirizwa ndetse hagatuburirwa ingemwe z'ibiti bitandukanye yaba ibiti by'imbuto, ibiti biribwa, ibiti byera ndetse n'ibindi bitandukanye, aho byose bituburirwa bigatunganywa hanyuma ingemwe zimara gukura zigahabwa abaturage bakajya kuzihinga hirya no hino mu mirima yabo.

Ubuhinzi bukozwe neza kandi mu buryo bwa kinyamwuga, ni bumwe mu bufasha abahinzi mu kwiteza imbere, ndetse bakazamura n'imibereho yabo, binyuze mu musaruro babona mu bihingwa byabo, ibi kandi bikaba bitangwamo inama n'impuguke mu by'ubuhinzi, ko abahinzi bagomba kwita ku musaruro wabo, bawuhira ndetse banatera imiti yica udukoko, mu rwego rwo kuzamura umusaruro mu bwinshi, ndetse no mu bwiza.

Ubuhinzi bukozwe neza mu buryo bwa kinyamwuga, ni bumwe mu bufasha ababukora mu kwiteza imbere, babona ibibatunga ndetse bagasagura n'amasoko. Ibi kandi bikabafasha kubona amafaranga ndetse ndetse n'ibindi nkenerwa , binyuze mu musaruro wabo wabashyize ku isoko, bityo bakiteza imbere ndetse bakagira n'uruhare muri sosiyete.

Imifuka ifite ibara ry'icyatsi irimo ingemwe z'ibiti bivangwa n'imyaka, aho igiye guhabwa abaturage kugira ngo bayitere ku mirima yabo mu rwego rwo kubafasha kubona umusaruro w'imbuto, ndetse kandi ikanabafasha gufata ubutaka bwabo iburinda kuba bwatembanwa n'isuri.

Ubuhinzi bukozwe neza kandi mu buryo bwa kinyamwuga, ni bimwe mu bifasha abahinzi mu kwiteza imbere bakazamura imibereho yabo, ndetse bakabasha no kwiteza imbere nkuko impuguke mu by'ubuhinzi zibigaragaza, ariko ibi byose bishoboka iyo ubuhinzi bukozwe neza hitabwa ku bihingwa, bihabwa ifumbire ihagije ndetse binaterwa imiti yica udukoko mu rwego rwo kongera umusaruro.

Umurima munini cyane uhinzemo imbuto z'inananasi, iyi akaba ari ubuhinzi bufasha gukora mu kwiteza imbere aho bashikarizwa guhinga cyane imboga n'imbuto kandi bitanga umusaruro mwinshi bibafasha kwiteza imbere kandi ibi bakagirwamo inama ko bibafasha kuzamura imibereho yabo kubona babona amafunguro abatunga ndetse bigateza imbere n'igihugu muri rusange.

Ubuhinzi bw'urutoki ni bumwe butanga umusaruro mwinshi iyo bwitaweho neza, ndetse bugahabwa n'ibyangombwa nkenerwa nk'uko bigaragazwa n'impuguke mu by'ubuhinzi. Aho kandi zigaragaza ko iyo bukozwe neza bushobora gufasha ubukora kwiteza imbere, ndetse no kuzamura imibereho ye, binyuze mu musaruro abona.

Ubuhinzi bukozwe mu buryo bwa kinyamuga nibwo butanga umusaruro mwinshi kandi bugafasha ababukora mu kwiteza imbere ndetse no kuzamura imibereho yabo, aho ibihinwa mbaturabukungu ari byo byibandwaho cyane cyane nk'ibigori, amashaza, ibishyimbo ndetse n'ibindi bifasha abikora mu kuzamura umusaruro ndetse no kwihaza mu biribwa.

Muri pepeniyeri ahatunganyirizwa ndetse hagatuburirwa ingemwe z'ibiti bitandukanye, byiganjemo ibiribwa ndetse n'ibitaribwa, ahagaragara ingemwe zimaze gukura, aho zijya guhabwa abaturage bakagerageza kuzihinga hirya no hino ku mirimo yabo kugira ngo zibafashe gufata ubutaka bwabo baburinda ko bwatembanywa n'isuri, ndetse binatanga umusaruro w'imbuto, ndetse n'ibindi bikenerwa.

Umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi ugizwe n'ibigori byinshi cyane birambitse neza ku meza, bigaragaza iterambere mu buhinzi aho abahinzi babona umusaruro mwinshi kandi mwiza, binyuze mu mbaraga ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bakoresha mu gihe bakora ubuhinzi bwabo, ibi kandi bikabafasha kwiteza imbere ndetse no kuzamura imibereho yabo.

Kuri pipininiyeri hakorerwa ubutubuzi bw'imbuto zitandukanye cyane cyane iz'ibiti higanjemo ibiti biribwa ndetse n'ibitaribwa, aho imbuto zituburwa hanyuma zigahabwa abahinzi bajya guhinga hirya no hino mu mirima yabo hagamijwe ko bibafasha gufata ubutaka bwabo biburinda kuba bwatembanwa n'isuri.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto ni bimwe mu butanga umusaruro mwinshi kandi bugafasha ababukora mu kwiteza imbere binyuze mu nzira zitandukanye, aho umusaruro wabo washakirwa isoko ndetse, bakabona nuko kubi bihaza mu mirire. Ibi kandi bikaba ritangwamo inama n'impuguke mu by'ubuhinzi nka bimwe, mu bihingwa by'ibanze bigomba guhingwa na buri Munyarwanda mu rwego rwo kuzamura imibereho myiza hirya no hino mu baturage.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto ni bimwe mu bifasha ababikora mu kwiteza imbere, babona ibibatunga ndetse banasagurira amasoko. Aho abahinzi bagirwa inama yo kuyoboka ubuhinzi bwa bene ibi bihingwa nk'abumwe mu butanga umusaruro mwinshi kandi mwiza mu gihe gito, ibi bikabafasha kwiteza imbere no kuzamura imibereho yabo.

Ubuhinzi bukozwe neza kandi kinyamwuga ni bumwe mu bufasha abahinzi kubona umusaruro mwinshi kandi mwiza. Aho abahinzi bagirwa inama yo gutera kijyambere gutera imyaka yabo ku murongo ndetse banubahiriza ibipimo bahabwa n'abajyanama mu by'ubuhinzi. Ibi bikaba ari bimwe mu byabafasha mu kuzamura umusaruro wabo bityo bakiteza imbere.

Urujya n'uruza rw'abaturage baje mu isoko aho bamwe baje guhaha abandi baje kugurisha umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi bwiganjemo cyane cyane ubw'imbuto aho abaturage bagirwagira inama yo kwibuka ubuhinzi bw'imbuto nka bumwe mu butanga umusaruro mwinshi kandi mwiza bigafasha abikora kwiteza imbere ndetse no kuzamura imibereho yabo.

Umuturage uri mu bikorwa byo gusarura umusaruro we w'ibikomoka ku buhinzi ugizwe n'ibigori, aho arimo gushaka ibimutunga ndetse agasagurira n'amasoko, nk'uko bitangwamo inama n'impuguke mu by'ubuhinzi ko ubuhinzi bukozwe neza bufasha ubukora kwiteza imbere abona ibimutunga ndetse akanasagurira amasoko.

Umurima munini cyane uhinzemo igihingwa cy'imboga, aho abahinzi bishyize hamwe bagahuza igihingwa nk'imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuhinzi, kuko iyo abantu bishyize hamwe bagahinga igihingwa kimwe bibafasha kongera ubwiza ndetse n'ubwinshi bw'umusaruro bityo bagashakirwa amasoko bakabasha kwiteza imbere.

Ikawa ni kimwe mu bihingwa ngandurabukungu gifasha abagihinga kwiteza imbere, binyuze mu kuzamura imibereho yabo ndetse no kubona amafaranga kubera ko ikawa ari kimwe mu bihingwa bigemurwa hanze y'igihugu, bityo bikazamura imibereho ndetse n'ubukungu by'igihugu.

Ubuhinzi bukozwe neza kandi mu buryo bwa kijyambere, ni bumwe mu butanga umusaruro mwinshi, akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuhinzi, abo bagenda baha abahinzi kuyoboka ubuhinzi bwa kijyambere, batera ku murongo, ndetse banuhira imyaka yabo, banayitera imiti yica udukoko, mu rwego rwo kuzamura umusaruro n'ibikorwa byabo.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukozwe neza ni bumwe butanga umusaruro mwinshi kandi mwiza mu gihe gito, aho abahinzi bagirwa inama guhinga kijyambere batera ku myobo ndetse banakurikiza imirongo nk'uko bagirwa inama n'impuguke mu by'ubuhinzi. Bibafasha kuzamura umusaruro wabo mu bwinshi ndetse no mu bwiza, bityo bakabasha kwiteza imbere.

Umumama wambaye umupira w'umuhondo, ijipo y'umutuku ndetse yitaza igitambaro cy'umutuku, wishimye cyane nyuma yo kubona umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi, byiganjemo imboga zo mu bwoko bw'inyanya. Aho abahinzi bagirwa inama yo kubaka bene ubuhinzi kuko butanga umusaruro mwinshi kandi mwiza mu gihe gitoya.

Igihingwa cy'urutoki ni kimwe mu bitanga umusaruro mwinshi kandi mu gihe gito, bigafasha abahinzi kwiteza imbere ndetse no kuzamura imibereho myiza yabo, babona ibibatunga ndetse bagasagurira n'amasosoko, aho kandi abahinzi bagirwa inama yo kwita ku ntoki zabo, bazuhira ndetse banashyiraho ifumbire, mu rwego rwo gukomeza kuzamura umusaruro w'ubuhinzi.

Ubuso bunini cyane buhinzeho igihingwa cy'ibigori, aho abahinzi bihuriza hamwe muri koperative bagahitamo igihingwa kimwe bashaka, bakaba ari cyo bahinga, mu rwego rwo kuzamura umusaruro, ingano yabo, ndetse n'ubwiza bwawo, imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuhinzi, aho bagaragaza ko ubuhinzi bw'igihingwa kimwe, ari bumwe mu bufasha abaturage mu gukora umusaruro mwinshi kandi mwiza.

Ubuhinzi bw'ibiti ni bumwe mu buhinzi butinda gutanga umusaruro ariko bugira akamaro kanini cyane kuko ibiti ni bimwe mu bidufasha kubona umwuka mwiza duhumeka, gukurura imvura, ndetse no gutanga ibindi by'ibanze dukenera umunsi ku wundi. Bityo abahinzi abakaba bagirwa inama yo kuyoboka ubuhinzi bw'ibiti nka kimwe mu bisubizo by'igihe kirekire bitanga umusaruro.

Umufuka upakiyemo umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi ugizwe n'umuceri ariko utaratunganywa neza. Uyu musaruro ukaba ugiye koherezwa mu nganda ukongererwa agaciro ubyazwamo umuceri mwiza cyane dukenera, bigafasha abahinzi bawuhinga kwiteza imbere ndetse no kwihaza mu mirire.

Ubworozi bw'amatungo magufi yiganjemo inkwavu, ihene, inkoko ndetse n'andi ni kimwe mu bifasha aborozi mu kwiteza imbere babona umusaruro mwinshi kandi mwiza, ibi kandi bikazamura imibereho yabo kuko babona ibibatunga byiganjemo inyama, amata, amagi ndetse n'ibindi, byose bibafasha kugira ubuzima bwiza.

Ubworozi bw'amatungo magufi, ni bimwe mu by'impuguke mu bworozi zigiramo inama, kuba abaturage bayobokamo nka bumwe mu butanga umusaruro mwinshi kandi mwiza mu gihe gito, bidasabye ko abantu bategereza igihe kirekire, bakabona kandi n'umusaruro w'ibikomoka ku matungo: nk'amata, amagi, inyama ndetse n'ibindi, bibafasha mu mibereho yabo ya buri munsi.

Ibiganza by'umuntu ufashe agakarito gafite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru. Kakaba karimo umuti wifashishwa n'aborozi, ndetse n'abavuzi b'amatungo igihe barimo kuvura amatungo yabo indwara zitandukanye, hagamije mu kongera umusaruro wabo ndetse birinda ibyago ndetse n'ibyorezo bifata amatungo yabo.

Amacupa menshi cyane arimo imiti yifashishwa n'abakora ubuvuzi bw'amatungo hirya no hino mu gihugu, aho bita ku matungo bayavura indwara zitandukanye hagamijwe ko abahinzi ndetse n'aborozi barindwa ibihombo bituruka ku burwayi butandukanye bufata amatungo yabo.

Ubworozi bw'amafi ndetse n'izindi nyamaswa zikuririra mu mazi ni bimwe bitanga umusaruro mu ndetse bigateza imbere ababikora, iyo babyitayeho ndetse bigakorwa mu buryo bwa kinyamwuga, ikiganza cy'umuntu ufasha ibiryo abamugaburira amatungo yororera mu mazi harimo amafi ndetse n'andi aho bitanga umusaruro ndetse bigateza imbere we ndetse n'umuryango muri rusange.

Ubworozi bw'amatungo magufi bwiganjemo ubworozi bw'inkoko, ingurube , ntama ndetse n'ubundi. Ni bumwe mu butanga umusaruro cyane, iyo bwitaweho kandi bukagira uruhare runini cyane mu kuzamura imibereho y'ababukora, aho babona umusaruro wabwo uribwa ako kanya ,ndetse n'amafaranga binyuze mu bworozi bwabo.

Agakarito karimo imiti yifashishwa n'abavuzi b'amatungo igihe barimo kuvura amatungo atandukanye yagize ibibazo binyuranye ku burwayi ndetse n'ibindi, aho kandi yitabwaho agahabwa n'ibindi byangombwa nkenerwa ama vitamin ndetse n'ibindi, hagamijwe kuzamura umusaruro utangwa n'aya matungo.

Ubworozi bw'amatungo magufi nk'ingurube, intama, ndetse n'izindi. Ni bimwe bitanga umusaruro mwinshi cyane iyo bwitaweho, amatungo ahabwa iby'ibanze akenera nka vitamini, imiti, ibiribwa ndetse n'ibindi. Hakamaro kozamura umusaruro wabo, kenshi ndetse no mu bwiza.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukozwe mu buryo bwa kinyamwuga ni bumwe bufasha gukora mu kwiteza imbere babona umusaruro mwinshi ndetse kandi mwiza. Aho abahinzi ndetse n'aborozi bagirwa inama yo gukoresha imiti yabugenewe ndetse bakayoboka abaforomo bagaragara hirya no hino bagenewe kwita ku matungo bakabafasha kuzamura umusaruro wabo binyuze mu nzira nziza.

Ubworozi bw'amatungo magufi nk'uko intama, ingurube, ndetse n'izindi ni bimwe mu bifasha ababikora mu kwiteza imbere ndetse bakazamura n'imibereho yabo ya buri munsi. Aho babona umusaruro ukomoka ku bworozi nk'amata, amagi, inyama, ndetse n'ibindi byose bibafasha kugira ubuzima bwiza.

Ikarito irimo umuti wifashishwa n'abakora ubuvuzi bw'amatungo igihe barimo kuvura amatungo hirya no hino mu gihugu, yagize ibibazo by'uburwayi butandukanye bigaragaza iterambere muri gahunda zose ndetse n'ubworozi , aho amatungo nayo yitabwaho agahabwa imiterere n'ibindi nkenenerwa kugira ngo agire ubuzima bwiza bityo batange umusaruro ku bakora ubworozi bwayo.

Abaturage bari mu bikorwa by'umuganda nk'imwe muri gahunda yashyizweho na guverinoma y'u Rwanda uriko ufasha abaturage kwishakamo ibisubizo aho batuye bakemura ibibazo bimwe na bimwe bibugarije, aho bakora umuganda bahurije hamwe imbaraga bagakemura ibibazo bimwe na bimwe, nko gusukura imihanda guca imiferege ndetse n'ibindi.

Umugabo wambaye agapira k’umutuku ndetse n’ikabutura y’ikijuju ari mu bikorwa by’ubuhinzi ategura aho azatera imbuto igihe igihembwe k’ihinga kizaba gitangiye. Iyi akaba arimwe mu nama zitangwa n’impuguke mu by’ubuhinzi ko abaturage basaba gutegura aho bazatera imyaka mu gihe ihinga ryaba ritangiye, bibafasha mu kugira umusaruro mwinshi kandi mwiza.

Abaturage bari mu gasoko, aho barimo kugurisha umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi bwabo, biganjemo imboga ndetse n'imbuto. Higanjemo karoti, amashu ndetse n'izindi. Iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuhinzi. Ku buhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto ari bimwe mu bitanga umusaruro vubavkandi mu gihe gito, bigafasha ababikora mu kwiteza imbere.

Abaturage bamo ibikorwa byo gutera imbuto mu masambu yatunganyijwe neza mbere yuko igihem cy'ihinga gitangira, aho ari inama itangangwa n'impuguke mu by'ubuhinzi ko abaturage bagomba kwitegura ndetse bagatunganya neza imirima yabo bazateramo imyaka, hagamijwe ko bakongera umusaruro mu bwiza ndetse no mu bwinshi.

Umuturage uri mu bikorwa byo kubumba amatafari, aho abanza gutunganya itaka rye neza cyane, aribumbamo urwondo yifashishije amazi, bikazamura imibereho ye, aba mu nzu nziza, ndetse cyane. Binyuze kubona umusaruro w'ubuhinzi aba yakoze hirya no hino.

Umuturage uri mu bikorwa byo gusarura umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi ugizwe n'imyumbati aho harimo kuyikura mu murima. Ibi bikagaragaza iterambere mu buhinzi aho abahinzi bashobora kubona umusaruro uhagije utunga imibereho n'imiryango yabo, ndetse bagasagurira n'amasoko. Bityo bikabafasha kwiteza imbere.

Abaturage bo mu bikorwa byo gutunganya ubutaka bazahingaho imyaka mu gihembwe cy'ihinga ubwo kizaba gitangiye. Iyi ikaba arimwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuhinzi ndetse n'ubworozi ko abahinzi bagomba gutegura imirimo yabo mbere kugira ngo kimwega gitangira; ibi nka bimwe mu byabafasha mu kuzamura umusaruro ndetse no kwiteza imbere.

Amaterasi y'indinganire ni kimwe mu bisubizo byazanywe na guverinoma y'u Rwanda, mu rwego rwo gufasha abaturage, cyane cyane batuye ku misozi miremire ndetse n'ahahanamye, kuba barwanya ibiza by'isuri ndetse n'ibindi, aho ubutaka bwabo buterwaho ibiti mu materasi y'indinganire, bityo bigafasha gufata ubutaka kuba bwatembanwa n'isuri.

Ikibaya kinini cyane gihinzemo igihingwa cy'umuceri w'abahinzi bibumbiye muri koperative, iyi akaba ari mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuhinzi, ko abahinzi bibumbiye hamwe bagahinga igihingwa kimwe bibafasha kongera umusaruro wabo, ndetse bakabafasha no gushakira amasoko bityo bikabafasha kwiteza imbere, ndetse no kuzamura imibereho myiza yabo.

Abaturage bari mu bikorwa byo gutera imbuto mu murima watunganyijwe neza, mbere yuko igihembwe k'ihinga gitangira, iyi ikaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuhinzi, aho bagira inama abahinzi yo gutegura neza imirima, mbere yuko batera imbuto, nka bimwe mu bibafasha mu kuzamura umusaruro wabo, mu bwinshi ndetse no mu bwiza.

Ubuhinzi iyo bukozwe neza kandi kinyamwuga, ni bimwe mu bifasha mu kubona amafaranga ndetse no kuzamura imibereho y'ababikora mu ngeri zitandukanye, aho cyane cyane hibandwa ku bihingwa mbandurarugo harimo nk'ibigori, bishyimbo, amateke, ndetse n'ibindi bitanga umusanzu mu kubaka igihugu.

Abahinzi bahingirara hamwe muri koperative ubwo bari basoje ibikorwa byo gusarura barimo kuganira bungurana ibitekerezo barebera hamwe uburyo umusaruro wabo wakomeza kwitabwaho ugasigasirwa ndetse n'ibyo bakora kugira ngo bongere ingano yawo mu bwinshi no mu bwiza, bityo bibafasha kwiteza imbere.

Umuganda ni umwe muri politiki zashyizweho na Leta y'u Rwanda mu rwe rwo gufasha abaturage kwishakamo ibisubizo ku bibazo bitandukanye bigaragara hirya no hino aho batuye, aho abaturage bahurira hamwe bagashaka igikorwa runaka bakora bahuriyeho bose bikemurira, bidasabye kuba bategereza leta ko izaza kubikora.

Abaturage benshi cyane bari mu murima aho barimo gutegura baca imyobo aho bazatera imbuto z'imyaka, iyi ikaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuhinzi nko gutera imyaka ku murongo kandi mu byobo arimwe mu bifasha abahinzi mu kongera umusaruro babona ubwinshi ndetse no mu bwiza bahinga kijyambere.

Abaturage bari mu bikorwa by'umuganda byo gusibura umuhanda, baca inzira y'amazi. Iyi ikaba ari gahunda yashyizweho na guverinoma y'u Rwanda, mu rwego rwo gufasha abaturage kwishakamo ibisubizo ku bibazo bimwe na bimwe bibugarije. Aho bahurira hamwe bagashaka ibisubizo ndetse bagashyira imbaraga hamwe ndetse bishakamo ibisubizo bibafasha kuzamura imibereho yabo.

Umirima munini cyane, uhinzemo igihingwa cy'ibishyimbo gihinzwe mu buryo bwa kijyambere, aho biteye neza ku murongo, hubahirizwa ibipimo bitangwa n'inama, n'abajyanama mu by'ubuhinzi, iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuhinzi ko ubuhinzi bwa kijyambere bukozwe neza, abantu batera ku murongo, ndetse banufira, ndetse bakanita ku myaka yabo, ari bimwe mu bishobora kubafasha kwiteza imbere, babona umusaruro mwinshi kandi mwiza.

Igishanga kinini cyane gihinzemo igihingwa kimwe cyatoranyijwe, ari cyo cy'umuceri. Iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuhinzi, ko iyo abaturage bishyize hamwe bagahinga igihingwa kimwe, bibafasha kuzamura umusaruro wabo mu bwinshi ndetse no mu bwiza, bityo ukaba wanabarirwa amasoko, bikabafasha kwiteza imbere.

Imifuka muninini cyane ipanzemo umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi ugizwe n'ibirayi ari kimwe mu bihingwa ngandurabukungu, kibandwa guhingwa hirya no hino mu gihugu hagamijwe kuzamura umusaruro w'abahinzi ndetse banazamura imibereho myiza yabo babona umusaruro, babona ibibatunga ndetse bagasagurira n'amasoko.

Urujya n'uruza rw'abantu baremye isoko ryiganjemo iricururizwamo umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi nk'ibitoki, ibijumba, amateke ndetse n'ibindi, aho abahinzi bazana umusaruro wabo ku isoko bakagurirwa n'abaturage bandi bagenzi babo, bikabafasha kwiteza imbere ndetse banagira uruhare mu kuzamura imibereho myiza ya bagenzi babo.

Igishanga kinini cyane gihinzemo igihingwa cy'umuceri, aho abahinzi baba baribumbiye muri koperative, bagahitamo igihingwa kimwe bahinga ku butaka bwabo, ibi bikabafasha mu kongera umusaruro ku bwinshi ndetse no mu bwiza, aho kandi leta ibafasha mu gushaka isoko ry'imisaruro yabo, bikabafasha kwiteza imbere ndetse no kuzamura imibereho yabo ya buri munsi.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukozwe neza kandi mu buryo bwa kinyamuwuga, ni bumwe mu bufasha abahinzi mu kwiteza imbere, bakora imirimo itandukanye ndetse banabona umusaruro uhagije, bityo bakazamura imibereho yabo. Uyu ni umurima munini cyane uhurijwemo igihingwa cy'imboga, aho umuhinzi arimo gusasira intoryi ze neza azishyira ku murongo, nkuko bitangwamo inama n'impuguke mu by'ubuhinzi.

Umugabo wambaye igisarubeti cy'ubururu ateruye agafuka ka kawunga, uyu akaba ari umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi. Aho ujyanwa mu nganda ugatunganywa neza ubyazwamo umusaruro ndetse unongererwe agaciro agamije kuzamura ireme ndetse no guhesha agaciro umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi.

Ubuhinzi ni kimwe mu bikorwa bikorwa n'abanyarwanda benshi cyane, kuko bitanga umusaruro ndetse bikabafasha kuzamura imibereho yabo, babona ibibatunga ndetse bakabona n'ibyo basagurira amasoko, bimwe mu bihingwa bigaragara hirya no hino mu gihugu harimo nk'ibijumba, ibirayi, ibitoki, imboga, ndetse n'ibindi byose bifasha abahinzi kugira imibereho myiza.

Ubuhinzi bw’imboga ndetse n’imbuto ni bimwe mu bifasha abahinzi mu kwiteza imbere babona umusaruro mwinshi kandi mwiza. Iyi kandi ikaba imwe mu nama zitangwa n'impugukire mu by'ubworozi, aho ubuhinzi bwashorwamo imari ku bantu bakeneye kwinjiza amafaranga menshi mu gihe gito kandi bakihaza mu mirire.

Amashyamba kimeza ndetse n'ibyanya bya pariki bigaragara hirya no hino mu gihugu, bimwe bicumbikira inyamaswa cyane cyane izikurura ba mukerarugendo, baza gusura igihugu cyacu, harimo nk'ingagi, inkende, imbogo, ndetse n'izindi.

Amashyamba ya kimeza ndetse n'ibyaya bya pariki, biboneka hirya no hino mu gihugu, ni bimwe mu bicumbikira inyamaswa nyinshi cyane, zikurura ba mukerarugendo, ziganjemo iziboneka mu misozi miremire, nk'ingagi, inkende, ndetse n'izindi. Izi zigafasha ba mukerarugendo baza gusura kwishima, ndetse zinafasha igihugu kwinjiza amafaranga binyuze mu madevize, azanwa na ba ba mukerarugendo.

Hirya no hino mu Gihugu hagaragara amashyamba ya cyimeza ndetse n'ibyanya bya pariki. Ibi akaba ari ibicumbikira inyamaswa nyinshi zikurura ba mukerarugendo, ziganjemo iziboneka mu gice cy'imisozi miremire, nk'ingagi, inkende, impundu ndetse n'izindi. Aho izi nyamaswa zikurura ba mukerarugendo baza kuzisura, bityo bikazamura iterambere ry'Igihugu binyuze mu madevizi yinjizwa n'aba bakerarugendo.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto ya bukozwe neza ndi no gufasha abahinzi mu kwiteza imbere babona umusaruro mwinshi kandi mwiza bityo bikabasha kubona ibibatunga n'imiryango yabo , ndetse bagasagurira n'amasoko kandi bigateza imbere igihugu muri rusange binyuze ku madevize yinjira aturutse ku biribwa baba basuye hanze y'igihugu.

Amashyamba kimeza ndetse n'ibyanya bya pariki bigaragara hirya no hino mu gihugu ni bimwe mu bicumbikira inyamaswa cyane cyane iziba mu misozi miremire nk'ingagi, inkende ndetse n'izindi. Izi nyamaswa zikaba zikurura ba mukerarugendo baturutse hirya no hino mu gihugu ndetse bagafasha mu guteza imbere igihugu no kuzamura ubukungu bwacyo binyuze mu madevize azanwa na ba mukerarugendo.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto ni bimwe mu bifasha ababikora kwiteza imbere, ndetse bagateza imbere n'igihugu muri rusange binyuze mu mirimo yabo ya buri munsi, aho abaturage bashishikarizwa gushora imbaraga muri ubu buhinzi nka bimwe mu bibafasha mu kwiteza imbere, ndetse no kwihaza mu mirire.

Amashyamba ya kimeza, ndetse n'ibyanya bya pariki bigaragara hirya no hino mu gihugu, ni bimwe mu bicumbikira inyamaswa nyinshi cyane, zizwiho umwihariko wo gukurura ba mukerarugendo, harimo nk'ingagi, inkende ndetse n'izindi, aho izi nyamaswa zitanga umusanzuro mu guteza imbere igihugu, ndetse n'uruganda rw'ubukerarugendo, zinjiza amadovize mu gihugu.

ubuhinzi bw'urutoki ni bumwe mu butanga umusaruro mwinshi kandi mwiza. Bigafasha gukora mu kwiteza imbere ndetse no kwihaza mu biribwa, aho iyo bwitaweho neza. Aho impuguke mu by'ubuhinzi zigaragaza ko ubuhinzi bw'urutoki ari bimwe mu bifasha abaturage mu kuzamura imibereho yabo, binyuze mu gushyira umusaruro wabo ku isoko. Bityo bikabafasha kwiteza imbere.

Amashyamba kimeza ndetse n'ibyanya bya pariki bihagarara hirya no hino mu gihugu, ni bimwe mu bicumbikira inyamaswa z'ishyamba cyane cyane izo mu misozi miremibire zigaragara mu Rwanda nk'ingagi, inkende, ndetse n'izindizi, izi nyamaswa zikaba zikurura ba mukerarugendo benshi baza gusura igihugu cy'u Rwanda bityo bikazamura iterambere n'ubukungu bw'igihugu, binyuze mu madevize yinjizwa na ba mukerarugendo.

Ibiti binini cyane biri mu busitani bukikije ahakorera ikigo cy'ishuri, ibiti bikaba bigirara uruhare runini cyane mu gufasha abanyeshuri kugira ubuzima bwiza bahumeka umwuka mwiza utangwa n'imiti ndetse kandi binafata ibyuka bihumanya ikirere nk'uko bigaragazwa n'impuguke mu by'ubumenyi bw'iyi si.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto ni bimwe mu bifasha ababikora mu kwiteza imbere ndetse no kwihaza mu mirire, aho babona amafunguro batunga bo ndetse n'imiryango yabo bityo bagasagurira n'amasoko, ibi kandi bikaba aririmo bitangagwa mirebane mutse mu by'ubuhinzi nka bimwe mu byayobokwamo n'abahinzi benshi mu rwego rwo kwiteza imbere.

Hirya no hino mu gihugu hagaragara amashyamba ya cyimeza ndetse n'ibyayanya bya parike. Ibi akaba ari ibicumbikira inyamaswa cyanecyane zigaragara mu misozi miremire. Ziganjemo ingagi, inkede, imbogo, ndetse n'izindi. Aho izi nyamaswa zikurura ba mukerarugendo baza gusura Igihugu cyacu, bityo bakatwinjiriza amadevize adufasha gukora ibikorwa bitandukanye, ndetse no guteza imbere Igihugu muri rusange.

Ubuhinzi bw'ibihingwa ngandurarugo nk'ibishyimbo, amashaza, urutoki ndetse n'ibindi ni bimwe mu bitanga umusaruro kandi mwinshi mwiza iyo byitaweho neza byitabwaho umunsi ku wundi, aho impuguke mu by'ubuhinzi zitanga inama ku bahinzi ko bagomba kuhira imyaka yayo ndetse bukanatera imiti yica udukoko mu rwego rwo kuzamura umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi.

Hirya no hino mu gihugu hagaragara amashyamba ya kimeza ndetse n'ibyanya bya pariki ibi bikaba bizwiho gucumbikira inyamaswa ndetse cyane cyane ziboneka mu misozi miremire ni zimwe zikurura ba mukerarugendo baza gusura igihugu cyacu, harimo nk'ingagi, imbogo, ndetse n'izindi aho izi nyamaswa zigira uruhare runini mu kuzamura iterambere ry'ubukungu binyuze mu madevize yinjira ba mukerarugendo baza kuzisura.

Igihingwa cy'urutoki ni kimwe mu bihingwa ngandurarugo, kiboneka hirya no hino mu gihugu, aho abahinzi b'ibi bihingwa bagirwa inama yo kubyitaho cyane, kuko bitanga umusaruro mwinshi, bityo bikabafasha kwiteza imbere ndetse bakanazamura imibereho yabo, babona ibibatunga, ndetse banasagurira amasoko.

Ibihingwa nk'ikawa, icyayi ndetse n'ibindi bihingwa ngandurabukungu ni bimwe mu bifasha abahinzi mu kwiteza imbere, aho babona umusaruro mwinshi ndetse bikazamura imibereho yabo, aho bagurisha umusaruro wabo hanze bityo bikabafasha kwinjiza amafaranga menshi abafasha kuzamura ubuzima bwabo ndetse bakagira n'imibereho myiza.

Igihingwa cy'ibigori ni kimwe mu gitanga umusaruro mwinshi kandi mwiza iyo byitaweho neza, bityo abahinzi bakaba bagirwa inama yo kwita ku bihingwa byabo byiganjemo ibigori nka bimwe mu byabafasha kuzamura imibereho yabo ndetse n'iterambere ry'Igihugu muri rusange, binyuze muri ibi bikorwa by'ubuhinzi.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto ni bumwe mu butanga umusaruro mwinshi kandi mwiza mu gihe gito. Abahinzi bagirwa inama yo kuyoboka bene ubu buhinzi kuko bibafasha kwiteza imbere bazamura imibereho yabo binyuze mu kubona ibatunga ndetse bagasagura n'amasoko bityo bakabasha kwiteza imbere.

Ubuhinzi bw'urutoki ni bimwe mu bifasha abikora mu kwiteza imbere ndetse ba bakabona umusaruro mwinshi kandi mwiza ndetse bakazamura n'imibereho yabo babona ibibatuga n'imiryango yabo, ibi kandi bikaba bitangagwamo inama n'impuguke mu by'ubuhinzi ko iyo bukozwe neza ari bumwe mu bushobora gufasha abantu kwiteza imbere.

Ubuhinzi bw'imboga ni bumwe mu bwo Leta y'u Rwanda ishishikariza abaturage kuyoboka, nka bumwe mubufasha kurwana n'ibibazo by'imirire mibi, ndetse n'igwingira mu bana. Aho buri muturage ashishikarizwa kugira byibura akarima k'igikoni ahingamo imboga ndetse n'imbuto, bimufasha kubona amafunguro atunga umuryango we.

Ku isoko, ahacururizwa ibicuruzwa bitandukanye, hagaragara umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi wiganjemo imboga ndetse n'imbuto. Aho abahinzi beza umusaruro wabo bakawuzana ku masoko. Bikabafasha mu kuzamura imibereho yabo, babona amafaranga ndetse bakabashaho kwiteza imbere, binyuze ku musaruro w'ubuhinzi bwabo.

Ubuhinzi bukozwe neza mu buryo bwa kinyamwuga, ni bumwe mu bufasha abahinzi mu kwiteza imbere, babona umusaruro mwinshi kandi mwiza, bityo bikabasha kuzamura imibereho yabo ndetse no kwihaza mu biribwa. Aho impuguke mu by'ubuhinzi zigaragaza ko ubuhinzi bw'imboga, cyane cyane intoryi, amashu n'izindi, ari zimwe mu zifasha abahinzi mu kwiteza imbere, mu gihe cya vuba.

Ku isoko hacururizwa ibiribwa ndetse n'ibikoresho bitandukanye hakaba harimo hacuruzwa umusaruro w' ibikomoka ku buhinzi wiganjemo imboga ndetse n'imbuto n'inyanya, karoti, ibitunguru n'amashu ndetse n'ibindi, aho byose harimo gutangwa ni inama n'impuguke mu by'ubuhinzi nka bimwe mubihingwa abantu bashobora gukora bakabona umusaruro mwinshi ndetse bakaniteza imbere mu gihe gito.

Abaturage bazindukiye kuri peperiyeri ahatuburirwa ingemwe z'ibiti bitandukanye, yaba ibyivangwa n'imyaka ndetse n'ibihingwa byonyine. Aho baje gufata ingeme zo kujya gutera ku mirima yabo kugira ngo ibiti bibashe kurinda ubutaka bwabo aho byatembanwe n'isuri. Bityo babone umusaruro mwiza w'ubuhinzi bwabo.

Umubyeyi wikoreye umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi mu ibase y'icyatsi, ari kuva mu murima we ava gusarura. Ibi akaba ari ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto, cyane cyane hibandwa ku rusenda, aho ari bimwe mu bihingwa bifasha ababikora kwiteza imbere, kuko binjiza amafaranga menshi binyuze mu kurwohereza hanze y'Igihugu.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto iyo bukozwe neza ni bimwe mu bishobora gufasha ababukora mu kwiteza imbere, ndetse no kuzamura imibereho myiza yabo nk' uko bigaragazwa n'impuguke mu by'ubuhinzi, aho nk'ibiti nk' avoka bishobora gutanga umusaruro mwinshi ndetse zikaba zoherezwa hanze y'igihugu, zigafasha abahinzi kubona amadevize bityo bakiteza imbere.

Hirya no hino mu masoko hacururizwa ibicuruzwa bitandukanye, hagaragara umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi wiganjemo imboga ndetse n'imbuto. Ahagaragara imboga z'amashu, ibitunguru ndetse n'izindi. Byose akaba ari umusaruro w'abaturage baba barahinze kijyambere, bagamije guhinga ibibatunga ndetse bagasagurira n'amasoko.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto ni bimwe mu bafasha abaturage babukora kwiteza imbere, aho ubona umusaruro mwinshi kandi mwiza mu gihe gito bikazamura imibereho yabo ngo bibatunga ubwabo ku giti cyabo ndetse bagasagurira n'amasoko bityo bikabafasha kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto ni bimwe mu bifasha ababikora mu kwiteza imbere mu gihe gito, aho babona umusaruro mwinshi kandi mwiza ubafasha kuzamura imibereho yabo. Aho kandi bacuruza hirya no hino ku isoko bakabona amafaranga abafasha kuzamura imibereho yabo ndetse no kwiteza imbere muri rusange.

Ibase irimo umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi ugizwe n'imboga z'imiteja, ubuhinzi bw'imboga akaba ari imwe mu byo abahinzi bagirwamo inama nko gushoramo imari, nka kimwe mu bitanga umusaruro mwinshi kandi mwiza bigafasha bikora kwiteza imbere, ndetse no kwihaza mu mirire babona ibibatunga ndetse bagasagurira n'amasoko.

Urujya n'uruza rw'abaturage baje gufata ingemwe z'ibiti kuri pepennyeri, aho imbuto zitandukanye z'ibihingwa zifatwa zigatuguburwa, hanyuma abaturage bagahabwa ingemwe bajya guhinga mu mirima yabo, yaba iz'ibiti byera imbuto cyangwa se ibiti bivangwa n'imyaka, ibiti itavangwa n'imyaka ndetse n'ibindi.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto ni bimwe mu bifasha ababikora mu kwiteza imbere kubera kubitanga umusaruro mwinshi kandi mwiza mu gihe gito. iyi ikaba ari inama itangwa n'impupuguke mu by'ubuhinzi ko abaturage bashora imari mu guhinga imboga n'imbuto nkabo byabafasha mu kwihaza mu mirire bityo bakiteza imbere, ndetse bakananjiza amafaranga mu gihe gito.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukozwe neza ni bumwe mu bufasha ababukora kwiteza imbere ndetse no kwihaza mu mirire aho batunga ndetse n'imiryango yabo bagasagura n'amasoko bibafasha kwiteza imbere. Bumwe muri ubwo buhinzi ni ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto, ubuhinzi bw'ibihingwa ngandudarugo, ibihingwa mbaturarabukungu ndetse n'ibindi.

Ku isoko hacururizwa ibicuruzwa bitandukanye, hagaragara umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi, cyane cyane byiganjemo imboga ndetse n'imbuto nka maracuja, amatunda ndetse n'izindi. Aho iyo ari inama itangwa n'impuguke mu by'ubuhinzi ko imbuto n'imboga ari bumwe mu buhinzi bushobora guteza imbere ubukora mu gihe gito, bityo akazamura imibereho myiza ndetse akanabasha kwiteza imbere.

Mu isoko ahacuruzwa ibiribwa bitandukanye hagaragara umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi cyane cyane wibanda ku mboga ndetse n'imbuto, aho hagaragara nk'imbuto z'imineke, amaronji, imyembe, marakuca ndetse n'ibindi, ibi byose bikaba ari umusaruro w'abahinzi baba barahinze bakawitaho neza cyane hagamijwe ko batunga ibibatunga ndetse bakanasagurira amasoko.

Ibinyomoro ni kimwe mu bihingwa bitanga umusaruro mwinshi kandi mu gihe gito. Abahinzi bagirwa inama yo kuyoboka ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto, nka bumwe mu bubafasha kugira imibereho myiza, ndetse no kubona imboga n'imbuto ku mafunguro yabo, ibi bikabafasha kugira imibereho myiza ndetse baniteza imbere muri rusange.

Akarima k'igikoni ni imwe muri politique z'imibereho myiza yashyizweho na Guverinoma y'u Rwanda mu rwego rwo gufasha abaturarwanda kunoza imirire cyane cyane bibanda kurya indyo yuzuye igizwe n'ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga, n'ibirinda indwara. Aho abaturage bagirwa inama yo gushyira imboga ku ifunguro ryabo rya buri munsi binyuze mu kuzitera iwabo mu ngo cyane cyane ku karima k'igikoni.

Abaturage bari mu bikorwa by'ubuhinzi aho barimo gutera imbuto z'imboga mu butaka bwatunganyijwe neza bugashyirwamo ifumbire ndetse n'imvaruganda aho kandi abahinzi bagirwa inama yo gukomeza kwita ku myaka yabo cyane cyane abicira ibyonnyi ndetse banesha udukoko twafata imyaka yabo hagajwe mu kuzamura umusaruro mu bwinshi ndetse no mu bwiza.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto nimwe mu bifasha abahinzi mu kwiteza imbere ndetse no kuzamura imibereho yabo binyuze mu kwita ku musaruro wabo, ibi kandi bikaba bimwe nama itangwa n' impuguke mu by'ubuhinzi ko iyo ubuhinzi bw'imboga bwitaweho bushobora gufasha gukora kwiteza imbere, ndetse akanabasha gukemura ibibazo bimwe na bimwe.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto ni bimwe mu bifasha abahinzi mu kwiteza imbere iyo bukozwe neza kinyamwuga bwitabwaho, byuhirwa kandi byicirwa, ndetse binaterwa imiti yica udukoko. Ubu buhinzi kandi bukaba bufasha ababukora mu kwiteza imbere, ndetse kuzamura imibereho yabo babona ibibatunga ndetse bagasagurira n'amasoko.

Umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi, ugizwe n'imineke myiza cyane ifite ibara ry'umuhondo, irambitse ku gaseke gateretse ku meza. Iyo ikaba ari umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi bw'urutoki, aho abaturage bagirwa inama yo kwita ku buhinzi, nka bumwe mu butanga umusaruro mwinshi kandi mu gihe gitoya.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto ni bumwe mu bufasha abaturage mu kwiteza imbere iyo bukozwe neza ndetse bukitabwaho umunsi ku wundi kuko butanga umusaruro mwinshi ndetse mwiza, bikazamura kandi n'imibereho y'ababukora kuko babona amafunguro yuzuye, agizwe n'imboga, imbuto, ndetse n'ibindi, nk'uko bitangwamo n'inama n'impuguke mu by'ubuzima.

Mu isoko hacururizwa ibicuruzwa bitandukanye hagaragara umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi wiganjemo imboga ndetse n'imbuto, nk'ibitunguru, dodo, ndetse n'ibindi, ibi bisaruro bikaba ari uko abahinzi baba barahinze neza bakabona ibibatunga, ndetse bagasagurira n'amasoko.

Ku isoko hacururizwa ibicuruzwa bitandukanye ,hagaragara umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi wiganjemo:imboga ndetse n'imbuto ,nk'imyembe ,marakuja, amapome, amatunda, ndetse n'ibindi, ibi byose akaba ari ibyaturutse mu mirima y'abaturage, aho ambahinze imbuto bityo bikabafasha kwiteza imbere, babona amafaranga ,ndetse bagasagurira n'amasoko.

Hirya no hino mu gihugu hagaragara amashyamba kimeza, ndetse n'ibyanya bya pariki byororerwamo inyamaswa zitandukanye zikurura ba mukerarugendo, ziganjemo iziboneka mu misozi miremire, nk'ingagi, inkende, ndetse n'izindi, aho izi nyamaswa zinjiza amadevize mu gihugu binyuze muri ba mukerarugendo baza kuzisura hirya no hino.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto ni bimwe mu bifasha ababikora mu kwiteza imbere babona ibibatunga ndetse bagasagurira n'amasoko, bityo bikabafasha kuzamura imibereho yabo ya buri munsi, aho impuguke mu by'ubworozi ndetse n'ubuhinzi zigaragaza ko umuhinzi wagiye mu ihinga by'ubuhinga imboga ndetse n'imbuto yiteza imbere kandi akagira ubuzima bwiza.

Hirya no hino ku masoko hagaragara umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi wiganjemo imboga ndetse n'imbuto. Aho abahinzi bagirwa inama yo kuyoboka ubuhinzi bujyanye n'ibi bihingwa aho bitanga umusaruro mwinshi kandi mu gihe gito. Bityo bikabafasha kwiteza imbere ndetse no kuzamura imibereho yabo ya buri munsi.

Ku isoko hacuruzwa ibiribwa bitandukanye hagaragara umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi wiganjemo imboga ndetse n'imbuto. Harimo nk'imyembe ,marakurusha ndetse n'izindi. Ibi byose bikaba ari umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi aho abahinzi babasha kubona ibibatunga ndetse bagasagurira n'amasoku bityo bakabasha kwiteza imbere.

Ku isoko ahacururizwa ibiribwa bitandukanye. Hagaragara umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi, wiganjemo imboga ndetse n'imbuto. Ibi akaba ari mu bihingwa impuguke mu by'ubuhinzi zigiramo abahinzi guhinga, nka bimwe mu bitanga umusaruro mwinshi kandi mwiza mu gihe gito, bityo bikabafasha kwiteza imbere.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto ni bimwe mu bigira umusaruro mwinshi cyane; cyane cyane iyo bikozwe byitaweho n'ababikora batera imiti ndetse banashyiraho amafumbire nk’uko bisabwa, ndetse atangwamo inama n’impuguke mu by’ubuhinzi bifasha ba nyirabyo kugira iterambere ndetse no kubona umusaruro mwinshi kandi mwiza.

Ibiraro byororerwamo amatungo magufi, yiganjemo ihene ndetse n'inkoko. Aho byose ari bimwe bifasharorezi mu kwiteza imbere, babona kandi umusaruro kubera ibikorwa byabo bya buri munsi. Aho bashobora kubona umusaruro ukomoka ku matungo, nk'inyama, amata, amagi, ndetse n'ibindi. Byose bibafasha kuzamura imibereho yabo.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto nimwe mu bifasha abahinzi mu kwiteza imbere ba kubona umusaruro mwinshi kandi mwiza mu gihe vuba, ibi bikaba bigaragazwa n'impuguke mu by'ubworozi ndetse n'ubuhinzi aho bugenda mu buhinzi kweguka bene ubuhinzi kuko butanga umusanzu munini mu kuzamura imibereho myiza buhaza mu biribwa ndetse banasagurira amasoko.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto ni bumwe mu bufasha ababukora mu kwiteza imbere ndetse no kuzamura umusaruro wabo bazamura imibereho yabo. Ibi bigafasha ababikora kandi kubona umusaruro kandi mwinshi mwiza ndetse no kuzamura imibereho yabo nk'uko bigaragazwa n'impuguke mu by'ubuhinzi ko umusaruro w'imbuto ndetse n'imboga bifasha abahinzi kugira ubuzima bwiza.

Akarima k'igikoni ni imwe muri gahunda zashyizweho na guverinoma y'urwanda mu gufasha abaturage guhangana n'ikibazo cy kigwingira ndetse n'imirire mibi, abaturage bashishikarizwa kurya imboga ndetse n'imbuto mu mafunguro yabo, nka bimwe mu bitari bitabwa kuba hambere, ubu bikaba aribyo byatanze umusaruro abaturage babasha kubona imboga ndetse n'ibindi bakenera mu mafunguro yabo.

Ubuhinzi bw'imbuto ni bimwe mu bifasha abikorera mu kwiteza imbere ndetse bakazamura n'imibereho myiza, bita cyanecyane kubona ibibatunga ndetse bagatunga n'abandi ndetse baninjiza amafaranga menshi, zimwe mu mbuto zigezweho ni inka avokado, aho umuntu ashobora kuzihinga zikamuteza imbere binyuze ko zishobora koreherezwa no hanze y'igihugu akinjiza amadevize.

Ku isoko ahacururizwa umusaro w'ibikomoka ku buhinzi, wiganjemo imineke ibayaturutse mu bitoki byahinzwe n'abaturage hirya no hino mu gihugu. Bukaba ari bumwe ubuhinzi bugirwamo inama n' impuguke mu by'ubuhinzi, kubwashoramo imari nka bumwe mu butanga umusaruro mwinshi kandi mwiza, mu gihe gito.

Mu isoko hacuruzwa ibicuruzwa bitandukanye, aha hakaba hacururizwa umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi, uzwi nk'ibitunguru. Aho ibitunguru kandi ari kimwe mu bihingwa bifasha ababihinga kwiteza imbere, babona amafaranga, kuko byera vuba kandi bigafasha abahinzi kwiteza imbere no kuzamura imibereho yabo.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto, ni bumwe mu bifasha ababikora kwiteza imbere babona umusaruro mwinshi kandi mwiza mu gihe gito, aba ni abaturage barimo gusarura imbuga zabo zigizwe n'inyanya, aho bari kugenda basoroma inyanya ndetse banasiga bateye umuti inyuma kugira ngo umusaruro wabo ukomeze kwiyongera.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto iyo bukozwe neza ni bumwe mu bushobora guteza imbere ababukora butanga umusaruro mwinshi kandi mwiza. Nk'uko bigaragazwa n'impuguke mu by'ubuhinzi ndetse bigashishikariza abahinzi kuyoboka guhinga ibihingwa nka bimwe mubitanga umusaruro munini ndetse bigafasha abaturage kuzamura imibereho yabo ya buri munsi.

Ubuhinzi bwa kijyambere ndetse bwitaweho ni bumwe mu butanga umusaruro mwinshi kandi mu gihe gito, bityo bigafasha ababukora kwiteza imbere. Aho abahinzi bagirwa inama yo kuhira imyaka yabo ndetse bakanayitera imiti yica udukoko, ibi byabafasha kuzamura ingano y'umusaruro wabo mu bwinshi ndetse no mu bwiza.

Ubuhinzi bukozwe neza kandi kinyamwuga ni bumwe mu butanga umusaruro mwinshi kandi bugafasha ubukora kwiteza imbere, aho kandi abahinzi bagirwa inama yo kwita ku myaka yabo cyane cyane abayuhira, abicira ibyonnyi ndetse n'abatera imiti irwanya udukoko, mu rwego rwo gufasha kuzamura umusaruro wabo mwinshi ndetse no mu bwiza.

Umurima munini cyane uhinzwemo igihingwa ngandurabukungu kizwi nk'ikawa, aho abaturage barimo kuhira iyi myaka nk'imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuhinzi ko imyaka igomba kuhirwa byibuze kugira ngo ibone ibyangombwa nkenerwa kugira ngo ikure neza bityo izatange umusaruro yitezweho.

Ubuhinzi bugezweho bukozwe kinyamwuga, ni bumwe bufasha abahinzi mu kwiteza imbere, ba kubona umusaruro mwinshi kandi mwiza, bikazamura kandi n'imibereho yabo. Aho abahinzi bakemo kuhira imyaka yabo bifashishije ibikoresho byabugenewe, bibafasha mu guhangana n'ibihe, ndetse bakabona umusaruro mwinshi kandi mwiza.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukozwe neza ni bumwe mubufasha gukora kwiteza imbere ndetse no kubona umusaruro mwinshi bityo bikabafasha kuzamura imibereho yabo, ndetse no kwiteza imbere. Aho abahinzi bagira inama yo kuhira imyaka yabo, kwicira ibyonnyi, ndetse no gutera imiti yica udukoko kugira ngo bongere ubwinshi bw'umusaruro wabo mu bwiza no mu bwinshi.

Ubuhinzi bukozwe kinyamwuga kandi bwitabwaho ni bumwe mu butanga umusaruro mwinshi ku babukora ndetse bugateza imbere n'ababukora. Kimwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuhinzi harimo kuhira imyaka cyane cyane mu rwego rwo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe, gutanga amafumbire, imiti yica udukoko ndetse n'ibindi nka bimwe mu bifasha abahinzi kugira umusaruro mwinshi kandi mwiza.

Amaterasi meza y'indinganire aciye ku butaka buhanamye ni kimwe mu bisubizo byatanzwe na guverinoma y'u Rwanda mu rwego rwo guhangana n'ibibazo by'isuri yatembeshaga ubutaka ndetse igafasha n'abaturage kongera umusaruro wabo aho kandi kuri ayo materasi haterwa ibiti bitandukanye bifasha abaturage kubona umusaruro ndetse bikanarinda ubutaka bwbo kuba bwatembanwa n'isuri.

Igihingwa cy'ikawa ni kimwe mu giteza imbere abagihinga kuko gitanga umusaruro mwinshi, cyane cyane iyo kitaweho gihabwa ifumbire ndetse kinaterwa imiti yica udukoko, nk'uko bigaragazwa n'impuguke mu by'ubworozi. Ibi kandi bigafasha abahinzi mu kwiteza imbere binjiza amafaranga, kuko ikawa ari kimwe mu bihingwa byoherezwa hanze y'igihugu, bityo bigafasha kwinjiza amadovize mu gihugu.

Ubuso bunini cyane, buciyemo amaterasi y’indinganire, nka kimwe mu bisubizo byazanywe na Guverinoma y’u Rwanda mu rwego rwo guhangana n’imyuzure, ndetse n’isuri byatwaraga imyaka y’abaturage bahinze hirya no hino mu gihugu, aho abaturage bagirwa inama yo gutera ubwatsi ndetse n’ibiti, nko mu rwego rwo kubafasha gufata ubutaka bwabo kuba bwatembanwa n’isuri.

Ubutaka bunini cyane buri mu ikibaya, buhinzeho igihingwa kimwe nk'imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuhinzi, aho bagira inama abahinzi, ko guhuza ibishanga ndetse n'imirima yabo bagahinga igihingwa kimwe, ari bimwe mu bifasha mu kuzamura umusaruro wabo mu bwinshi ndetse no mu bwiza, bikabafasha kwiteza imbere. ndetse no kuzamura imibereho yabo.

Igishanga kinini cyane gihingwamo igihingwa cyatoranyijwe n'abahinzi bibumbiye muri koperative mu rwego rwo kuzamura umusaruro. Ibi kandi bikaba bifasha Guverinoma kubashakira amasoko y'imisaruro yabo, bityo bigafasha abahinzi mu kwiteza imbere ndetse no kuzamura imibereho yabo umunsi ku wundi.

Ubuhinzi bwa kijyambere kandi bukozwe neza ni bimwe mu bifasha ababukora mu kwiteza imbere, babona umusaruro mwinshi kandi mwiza, bahinga ibi bafasha mu kwiteza imbere ndetse no kuzamura imibereho y'ababikora, cyane cyane babona ibibatunga, banasagurira amasoko. Ibi bikabafasha kwiteza imbere ndetse no kugira ubuzima bwiza.

Umurima munini cyane uciyemo amaterasi y'indinganire, uhinzemo ibihingwa bimwe byahiswemo n'abaturage bihurije muri koperative, mu rwego rwo kuzamura umusaruro wabo; iyi ikaba ari imwe mu nama zitangwa n'impimpuguke mu by'ubuhinzi, ko iyo abaturage bishyize hamwe bahuza igihingwa kimwe bahinga, bibafasha kubona umusaruro mwinshi kandi mwiza.

Umusozi munini cyane uciyeho amaterasi y'indinganire nka kimwe mu bisubizo byazanwe na Guverinoma y'u Rwanda, mu rwego rwo gufasha abaturage guhangana n'ibibazo by'isuri yatembanaga imyaka yabo. Aho abaturage kandi bagirwa inama yo gutera ibiti ndetse n'ubwatsi ku materasi bibafasha gufata ubutaka bwabo, bityo birinda ko bwatembanwa n'isuri.

Ibitanda binini cyane byanitseho umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi, ugizwe n'ibigori ndetse n'amashaza, kugira ngo byume neza hanyuma bihukwe. Iyi akaba imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuhinzi, ko abaturage bagomba kubizigamira umusaruro wabo, ukazabagoboka mu gihe kiri imbere, ubwo bazaba batari mu gihe cyokweza.

Ubuhinzi bukozwe neza kinyamwuga abahinzi batera imyaka ku murongo ndetse banasiga umwanya hagati y'igihingwa n'ikindi, ni bimwe mu bifasha abahinzi kugira umusaruro mwiza nk'uko bitangwamo inama n'impuguke mu by'ubuhinzi. Bashishikariza ubuhinzi kandi gukora kijyambere, mu rwego rwo kuzamura umusaruro wabo mu bwinshi ndetse no mu bwiza.

Ubuhinzi bukozwe neza mu buryo bwa kinyamuga ni bumwe bufasha abahinzi mu kwiteza imbere ndetse bakabona ibibatunga bo ubwabo. Aho kandi impuguke mu by'ubuhinzi zigaragaza ko ibihingwa gandurarugo ari bimwe mu bikwiye kwibandwaho hirya no hino mu gihugu. Ni mu rwego rwo gufasha abaturage kuzamura imibereho yabo babona ibibatunga ndetse banasagurira amasoko.

Ikibaya kinini cyane gihinzemo igihingwa kimwe cyatoranijwe n'abahinzi bibumbiye muri koperative. Iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuhinzi, ko iyo abahinzi bihurije hamwe bagahinga igihingwa kimwe bibafasha kuzamura umusaruro wabo birinda ibyonyi ndetse n'ibindi byose byabangamira ibihingwa byabo, bityo bakabasha kwiteza imbere ndetse no kwihaza mu mirire.

Ubuso bunini cyane buhinzemo igihingwa kimwe, cyahiswemo n'abahinzi bibumbiye muri koperative, bagahitamo guhinga igihingwa kimwe, nk'imwe mu nama itangwa n'impupuguke mu by'ubuhinzi, ko guhinga igihigwa kimwe cyatowe, bifasha abahinzi kubona umusaruro mwinshi. Btyo ugashakirwa n'amasoko bikabafasha kwiteza imbere no kuzamura imibereho yabo.

Amaterasi y'inganire aciye neza, ni imwe muri politiki zashyizweho na guverinoma y'u Rwanda, mu rwego rwo gufasha abahinzi guhangana n'ibibazo by'imyuzure ndetse n'isuri, byibasira ubutaka bwabo, ndetse bukabafasha no kuzamura umusaruro w'ubuhinzi bwabo, binyuze mu guhinga neza ku materasi y'indinganire.

Igihingwa cy'ibigori ni kimwe mu bitanga umusaruro mwinshi kandi mwiza bifasha ababihinga kwiteza imbere, ndetse no kuzamura imibereho aho babona amafunguro abatunga bo n'imiryango yabo ndetse bagasagurira n'amasoko. Iki gihingwa kandi kikaba kigira umwihariko y'uko umusaruro wacyo ushobora kongererwa agaciro ukabyazwamo ibibindi biribwa bitandukanye nk'amafu ndetse n'ibindi.

Ubworozi bw'amatungo magufi nk'ihene, intama ndetse n'ibindi ni bimwe mu bifasha aborozi mu kwiteza imbere, aho babasha kubona umusaruro wibikomoka ku bworozi nk'amata, ifumbire ndetse n'ibindi bitandukanye, ibi kandi bikabafasha kuzamura imibereho yabo ndetse no kwiteza imbere mu buryo bunyuranye.

Ubworozi bw'amatungo magufi iyo bukozwe neza nimwe mushobora gufasha ababukora kwiteza imbere ndetse no kwihaza mu mirire aho kandi impuguke mu by'ubworozi abantu kuyoboka bene ubwo bworozi kuko butanga umusaruro mwinshi kandi mu gihe gito , bityo bikaba byabafasha kwiteza imbere mu gihe kitarambiranye.

Kororera mu biraro ni bimwe muri gahunda yashyizweho na Guverinoma y'u Rwanda mu rwego rwo gufasha abaturage kugabanya kuzerera kw'amatungo ndetse no gukwirakwira kw'ibyorezo, cyane cyane bifata amatungo, hagamijwe ko umutekano w'amatungo y'aborozi uboneka ndetse hakiririndwa n'ikwirakwira ry'indwara zitandukanye zifata amatungo yabo.

Ubworozi bw'amatungo maremare ni bumwe mu butanga umusaruro mwinshi iyo bwitaweho neza cyane, aho kandi amatungo agomba guhabwa imiti ndetse n'ibindi byangombwa nkenerwa igihe cyose agize ibibazo runaka bikabafasha aborozi kubona umusaruro mwinshi, amatungo nk'aya kandi afasha abaturage kubona ifumbire ituma bahinga imyaka yabo neza bakeza.

Ubworozi bw'amatungo maremare nk'inka, iyo bwitaweho ni bwo mubufasha gukora mu kwiteza imbere, ndetse no kugira imibereho myiza. Kuko inka itanga umukamo, kandi uyu mukamo ukaba wifashishwa mu kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Hirya no hino izi nka kandi zifasha abaturage kubona ifumbire, ribafasha gufumbira imyaka yabo. Bityo bakazamura umusaruro wabo w'ubuhinzi.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukozwe mu buryo bwa kinyamwuga, ni bimwe mu bifasha abaturage mu kwiteza imbere babona umusaruro w'ibikomoka ku matungo nk'amata, ifumbire ndetse n'ibindi, byose bibafasha mu kuzamura imibereho yabo ya buri munsi bityo bakabasha kwiteza imbere ndetse bagateza imbere n'igihugu muri rusange.

Ubworozi bw'amatungo maremare, iyo bukozwe neza ni bimwe mu bifasha ababukora mu kwiteza imbere babona ibyangombwa nkenerwa, harimo nk'amafunguro abatunga, cyane cyane hibandwa ku bikomoka ku matungo nk'amata ndetse n'inyama, aho bigaragazwa n'impuguke mu by'ubuzima, ko ari byo umubiri ukenera, kandi bidufasha kugira ubuzima bwiza.

Ubworozi bw'amatungo magufi yiganjemo inkoko, ingurube, intama, ndetse n'ibindi ni bimwe bifasha abarozi kwiteza imbere babona umusaruro mwinshi kandi mwiza. Ibi bikaba ari bimwe kandi mu nama itangwa n'impuguke mu by'ubworozi bagira inama ko abantu bashora imari mu korora amatungo magufi nka bumwe mu gutanga umusaruro mwinshi kandi mwiza mu gihe gito.

Kurorera neza mu biraro bya kijyambere, ni imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubworozi, aho zigira inama aborozi yo kurorera amatungo yabo mu biraro, yitabwaho, agahabwa ibyangombwa byose nkenerwa, nk'iryo, imiti, ndetse n'ibindi mu gihe bikenewe, mu rwego rwo kubafasha kongera umusaruro w'ibikomoka ku bworozi bwabo.

Umukobwa wambaye akarindamunwa, itaburiya y'umweru, aho kandi arimo kureba ubworozi bwe bw'amatungo magufi. Agizwe n'ingurube. Iyi akaba ari imwe mu nama itangwa n'impuguke mu by'ubworozi ko ubworozi bw'amatungo magufi bukozwe h'inyabuga ari bumwe mu bufasha abantu kwiteza imbere mu gihe gito, kuko gutanga inyungu mu gihe kitarambiranye.

Ubworozi bw'amatungo maremare nk'inka, ni bumwe mu bufasha gukora mu kwiteza imbere ndetse no kuzamura imibereho yawo, cyane cyane babona ibikomoka ku matungo nk'inyama, amata ndetse n'ibindi byifashishwa n'aba bantu, kugira ngo bazamure imibereho yabo. Ribaha kandi ifumbire ryifashishwa mu kunoza ubuhinzi bwabo, kuko bifasha mu kuzongera umusaruro w'ibyo bahinga.

Ubworozi bw'amatungo maremare yiganjemo inka, ni bumwe mubufasha gukora mu kwiteza imbere, ndetse bakazamura n'imibereho yabo ya buri munsi, aho babasha kubona ibibatunga ndetse bikanabatungira umuryango, cyane cyane umusaruro ukomoka ku bworozi. Nk'inyama, amagi, amata ndetse n'ibindi.

Ubworozi bwa kijyambere, ni bumwe mu butanga umusaruro mwinshi cyane, iyo bwitaweho na ba nyirabwo baha amatungo ibiryo bihagije imiti ndetse n'ibindi by'ibanze akenera kugira ngo agire ubuzima bwiza, by'umwihariko kandi bugafasha mu kubona umusaruro w'ibikomoka ku bworozi nk'amata ndetse n'ibindi.

Ingurube ni rimwe mu matungo magufi yororwa hirya no hino mu gihugu, aho kandi ritanga umusaruro mwinshi kandi mwiza iyo ryitaweho neza nk'uko bitangwamo n'impuguke mu by'ubworozi, aho kandi abaturage bagirwa inama yo kuyoboka ubu bworozi nka bimwe mu bibafasha kwiteza imbere no kwikura mu bukene mu gihe cyihuse.

Ubworozi bwa kijyambere cyanecyane ubw'amatungo magufi, iyo bwitaweho cyane ni bu mu bushobora gutanga umusaruro mwinshi kandi mu gihe gito, bityo bigafasha ababukora kwiteza imbere, aho kandi abaturage bagirwa inama yo korora amatungo magufi yiganjemo ingurube, intama, inkoko ndetse n'ayandi, nk'amwe mu yatanga umusaruro mwinshi kandi mu gihe gito.

Ubworozi bw'amatungo magufi ndetse n'amatungo maremare ni bimwe mu bifasha abikora mu kwiteza imbere bihaza mu mirire ndetse banabona ibyangombwa nkenerwa byiganjemo inyama ndetse n'amata, amagi ndetse n'ibindi byose bigamije kubagira ubuzima bwiza ,ndetse bakabasha no kubona amafumbire ibafasha mu gufumbira imyaka yabo bikabafasha kwiteza imbereho kuzamura umusaruro w'ibyo bakora.

Ubworozi bw'amatungo magufi ndetse n'amaremare nibimwe mubifasha aborozi mu kwiteza imbere ndetse no gutanga umusanzu wabo mu kubaka igihugu binyuze mu nzira zitandukanye, aho kandi bashobora kubona umusaruro ukokomoka ku matungo nk'amata, amagi, inyama ndetse n'ibindi bifasha kugira imibereho myiza ndetse bakanabona ifumbire ibafasha mu gukora ibikorwa by'ubuhinzi hirya no hino.

Ubworozi bw'amatungo magufi iyo bukozwe neza ndetse mu buryo bwa kijyambere ni bumwe mu bufasha abarozi mu kwiteza imbere bakemura ibibazo bitandukanye ndetse bazamura n'imibereho yabo, aho bashobora kubona ibibatunga ndetse n'ibindi bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi binyuze mu bworozi bw'ayo matungo magufi.

Ubworozi bw'amatungo magufi n'inkoko, ni bumwe mu gufasha gukora mu kwiteza imbere ndetse no kuzamura imibereho yabo, binyuze mu kubona umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi nk'amagi, inyama ndetse n'ibindi byose bibafasha, mu kugira imibereho myiza ndetse bakaniteza imbere.

Ubworozi bw'amatungo magufi nk'ingurube, intama, ihene, inkoko ndetse n'ayandi, ni bumwe mu butanga umusaruro mwinshi kandi mu gihe gito. Iyi ikaba ari inama itangwa n'impuguke mu by'ubworozi, bagira inama abantu ko ari bumwe mu bworozi bashyiramo imbaraga, nka bumwe mubutanga umusanzu ndetse n'umusaruro mu gihe cya vuba.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukozwe kinyamwuga ndetse buryo bwa kijyambere ni bumwe bufasha aborozi kwiteza imbere babona umusaruro mwinshi kandi mwiza, nk'uko byatanzwemo inama n'impuguke mu by'ubworozi ndetse n'ubuhinzi hirya no hino mu gihugu bityo bagakangurira abaturage kuyoboka ubu bworozi, nka bumwe mu byabafasha kwiteza imbere kandi mu gihe cya vuba.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukozwe kinyamwuga ndetse mu buryo bwa kijyambere ni bimwe mu bitanga umusaruro mwinshi kandi mwiza. Bigafasha abahinzi ndetse n'aborozi mu kwiteza imbere aho babasha kubona amafumbire abafasha mu kazi kabo ka buri munsi k'ubuhinzi. Bityo bakiteza imbere binyuze mu bworozi bw'amatungo magufi.

Ubworozi bw'amatungo magufi nk'ihene ndetse n'intama, ni bimwe mu biboneka hirya no hino mu gihugu. Aho kandi bifasha abaturage kubona ifumbire ribafasha mu gukora akazi kabo ka buri munsi k'imirimo y'ubuhinzi, bafumbira imyaka yabo bityo bakabona umusaruro mwinshi, kandi na bo bakabona umusaruro w'ibikomoka ku matungo nk'amata ndetse n'ibindi.

Ubworozi bw'amatungo magufi ndetse n'amatungo maremare ni bimwe bigira uruhare cyane cyane mu bifasha mu kuzamura imibereho myiza y'abaturage ndetse n'iterambere ryabo, binyuze mu gutanga ibitunga abaturage byiganjemo umusaruro w'ikomoka ku buhinzi: amata, inyama, amagi ndetse n'ibindi.

Ubworozi bw'amatungo magufi nk'ihene, intama ndetse n'izindi ni bumwe mu butanga umusaruro mwinshi kandi mwiza, nk'uko bigaragazwa n'impuguke muri ubwo bworozi bagira inama kandi abarozi ko bashora imari muri ubwo bworozi nka bumwe mu bwabafasha kwiteza imbere bazamura imibereho yabo binyuze muri ubwo bworozi.

Umuturage urimo kugaburira amatungo ubwatsi ayakatira akayashyira imbere, iyi akaba ari mu inama zitangwa n'impuguke mu by'ubworozi, kuko ubworozi bw'amatungo, iyo bwitaweho bufasha gukora, kugira umusaruro mwinshi kandi mwiza, cyane cyane biganjemo amata ndetse n'inyama.

Ibiraro binini cyane byubatse mu buryo bwa kijyambere, byororerwamo amatungo maremare agizwe n'inka, aho aya matungo atanga umusaruro cyane cyane bibanda ku mata, aho afasha abaturage ndetse na ba nyirayo kuzamura imibereho myiza, bita ku buzima bwabo, ndetse kandi agatanga n'ifumbire ryifashishwa n'abahinzi hirya no hino. Bibafasha mu kuzamura umusaruro wabo mu mikoreshereze no mu bwiza.

Ubworozi bw'amatungo magufi nk'inkoko, intama, ingurube ndetse n'izindi zimuha ubufasha mu kwiteza imbere kuko gutanga umusaruro mwinshi kandi mu gihe gitoya, bigafasha rero abahinzi kubazamura imibereho yabo, ndetse bakabona n'ibyangombwa nkenerwa mu miryango yabo, bityo bakihaza mu mirire, ndetse bakazamura n'imibereho yabo.

Umugabo wambaye ishati ya move ndetse n'ipantaro y'umukara, aho ari mu bikorwaro byo kugaburira amatungo ye yiganjemo inka ndetse n'ihene. Aya akaba ari amwe mu yatanga umusaruro mwinshi kandi mwiza bityo bigafasha uyorora kubiteza imbere, ndetse no kubona ibyo akenera mu buzima bwa buri munsi.

Ubworozi bw'amatungo magufi ndetse n'amaremare, iyo bukozwe neza ni bumwe mu bufasha abantu kwiteza imbere, babona ibibatunga ndetse bugakemura n'ibibazo bigaragara hirya hino muri sosiyete, cyane cyane byiganjemo iby'imirire mibi, ituruka mu kubura ibituruka ku matungo, nk'amata, inyama ndetse n'ibindi.

Ibiraro bya kijyambere byororerwamo amatungo maremare, yiganjemo inka ndetse n'ayandi, aho kandi amatungo agira uruhare runini mu kuzamura imibereho myiza y'abaturage, atanga umusaruro cyanecyane nk'umukamo, inyama ndetse n'ibindi, amatungo kandi agafasha abahinzi kubona ifumbire ifasha mu bikorwa byabo, bikabafasha kuzamura umusaruro.

Inka ni rimwe matongo maremare yorowe n'abanyarwanda benshi hirya no hino mu Gihugu. Kandi rizwiho gutanga umusaruro mwiza cyane cyane uw'amata ariyo yifashishwa mu kuzamura imibereho y'abaturage ndetse ikamenywaho no gutanga ifumbire ifasha aborozi kubona ifumbire ibafasha gufumbira imirima yabo. Bityo bakabasha kwiteza imbere no kubona umusaruro mwiza binyuze mu buhinzi bwabo.

Igishanga kinini cyane gihinzemo igihingwa cy'ibigori, iyi akaba ari imirima y'abaturage baba barishyize hamwe bagahuza igihingwa mu rwego rwo kubafasha kubona umusaruro mwinshi kandi mwiza, birinda ibyonnyi ndetse n'ibindi byose byatuma umusaruro wabo utaboneka, ibi kandi bigafasha na guverinoma mu kubona amasoko yo gushyiramo imyaka yabo, bityo bikabafasha kwiteza imbere.

Ubuhinzi bw'urusenda ni bumwe mu bifasha abahinzi mu kwiteza imbere, kuko urusenda rufasha abaruhinga kubona umusaruro mwinshi kandi mwiza, aho kandi bibafasha mu kubona amafaranga binyuze kukohereza umusaruro warwo hanze y'igihugu, bityo ukinjiza amadevize n'igihugu kigatera imbere muri rusange.

Umurima munini cyane uhinzemo ibihingwa nkadurarugo by'ibigori. Iki kikaba ari igihingwa gitangwa mw'inamamu by' ubuhinzi nka kimwe mubitanga umusaruro mwinshi kandi mwiza bityo bigafasha abahinga bene iki gihugu kwiteza imbere ndetse no kubona umusaruro mwiza ubafasha mu kuzamura imibereho yabo ya buri munsi.

Urujya nuruza rw'abantu baremye isoko ricuruzwamo ibiribwa bitandukanye, aha hakaba ari ahacururizwa umusaruro w'ibikomoka ku bahinzi cyanecyane wiganjemo imboga ahagaragara abaturage baje kugurisha imbogo zo mu bwoko bw'amashu, uyu akaba ari wo umusaruro bakuye mu mirima yabo ubafasha mu kwiteza imbere.

Igishanga kinini cyane gihinzwemo igihingwa cy'umuceri, aho abahinzi bihuriza hamwe muri koperative hanyuma bagatamo igihinhugu kimwe bahinga bityo bikabafasha kwiteza imbere ndetse no kuzamura ubwiza ndetse n'ingano by'umusaruro wabo. Aho kandi bashakishwa n'amasoko igihe bejeje bibafasha kwiteza imbere ndetse no kuzi imibereho myiza.

Umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi, ugizwe n'ibishyimbo, aho byanitswe hamwe kugira ngo byume neza, hanyuma babishyire mu mifuka bihunikwe mbere y'uko bijya kubikwa, iyi ikaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuhinzi ko umusaruro uba ugomba kwanikwa ukumishwa neza, mu rwego rwo kwirinda ko wakangirika, hanyuma ukazagoboka abahinzi mu gihe baba bari mu bihe bitari iby'umwero.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto, ni bumwe mu bifasha ababikora mu kwiteza imbere, binyuze mu kubona umusaruro mwiza ubafasha, nko kubona amafaranga bagurisha ku masoko, ndetse banabona ibibatunga bo n'imiryango yabo, ibi kandi bikabafasha kugira ubuzima bwiza, nk'uko bitangwamo inama n'impuguke mu by'ubuvuzi ko kurya imboga n'imbuto kenshi, bifasha ubikora kugira ubuzima bwiza.

Ubuhinzibw'ibihingwa ngandurarugo nka soya, ibishyimbo ndetse n'ibindi, ni bimwe mu bifasha abaturage mu kuzamura imibereho yabo, ndetse n'iterambere ryabo rya buri munsi, aho abahinzi bagirwa inama yo kubika bene Ibyo bihingwa nka bimwe mu bikoreshwa cyane hirya no hino mu gihugu, bityo byabafasha kwiteza imbere ndetse no kugira imibereho myiza.

Ubuhinzi bukozwe neza kinyamwuga kandi mu buryo bwa kijyambere ntibumumufasha gukora kwiteza imbere kubona umusaruro mwinshi kandi mwiza impuguke by'ubuhinzikaba zibwira abagenzihinzi ko guhinga kijyambere batera imyaka yabo ku murongo ari ngobafasha kongera umusaruro mwinshi ndetse no' mu bwiza bikabafasha kwiteza imbere ndetse no kuzamura imibereho myiza yabo.

Muri pepeniniyeri ni hamwe mu hatuburirwa ingemwe z'ibiti bitandukanye cyane cyane bivangwa n'imyaka ndetse n'ibihingwa byonyine aha hakaba hagaragara imbuto za avoka zatunganyijwe neza aho zitegeje guhabwa abo baturage ngo bajye kuzihinga hirya no hino bagamijwe kuzamura imibereho yabo ndetse no kuzamura ubukungu binnyuze mu guhinga ibihingwa bya avoka.

Imbuto ni kimwe mu bihingwa bitanga umusaruro mwiza ndetse bigafasha abahinzi mu kwiteza imbere, binyuze mu gutanga amafunguro ndetse no kuba byabafasha kwinjiza amafaranga mu bihe bitandukanye iyo bukozwe neza, nkuko bigaragazwa n'impuguke mu by'ubuhinzi aho zigira inama abaturage kuyoboka ubuhinzi bw'imboga n'imbuto, nka bumwe mu bwabafasha mu kwiteza imbere kandi mu gihe cya vuba.

Ihema rinini cyane ryanitseho umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi, ugizwe n'ibigori, aho bihingwa hanyuma bikanikwa neza kugira ngo byume, bibone uko bihunikwa ndetse binashyirwe mu nganda. Kugira ngo byongererwe agaciro. Iyi ikaba ari n'inama itangwa n'impuguke mu by'ubuhinzi, aho bagira inama abahinzi kwanika neza umusaruro wabo, mbere yo kuwuhunika, mu rwego rwo kuwongerera agaciro.

Abaturage bari mu bikorwa byo gutunganya ingemwe z'ibiti muri pepiniyeri, aho biba byatuburiwe kugira ngo bihabwe abaturage bajya kuhinga hirya hino mu miririma. Abaturage bazindikiye ibi bikorwa byo kwicira ndetse no gukura ibyonnyi muri izi ngemwe, hagamije ko zitanga umusaruro mwinshi kandi mwiza.

Umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi ugizwe n'ibigori byanitse cyane ku izuba ryinshi cyane. Iyi akaba imwe mu nama zitangwa n'impimpuguke mu by'ubuhinzi aho bagira inama abahinzi yo kumisha neza umusaruro wabo mbere yuko bahunika mu rwego rwo kubafasha kwirinda ko wakangirika.

Muri pepiniyeri ahatuburirwa imbuto zitandukanye z'ibiti, yaba ibivangwa n'imyaka, iby'imbuto cyangwa se n'ibiti bisanzwe nk'intusi, gereveriya n'ibindi, aho ingemwe zabyo zituburirwa hanyuma zigahabwa abaturage bakabihinga mu mirima yabo mu rwego rwo kubafasha kwirinda ibiza bitandukanye nk'isuri ifata ubutaka.

Umubare w'abaturage benshi cyane bari gukora muri pepeniyineri, aho barimo gutegura ibihubiko bizaturirwamo imbuto z'ibiti bitandukanye zifashishwa n'abahinzi batera ku mirima yabo yaba ibiti bivangwa n'imyaka cyangwa se ibihingwa byonyine nka bimwe mu bifasha mu kuzamura imibereho myiza ndetse no gutanga umusanzu mu kurwanya ibiza binyuranye harimo nk'isuri yibasira ubutaka bw'abahinzi.

Umuganga w'amatungo wambaye uturindantoki aho arimo gukingira inka ayitera imiti. Iyi ikaba ari gahunda ishyizweho na guverinoma y'u Rwanda mu rwego rwo gufasha aborozi kwirinda ibihombo bitandukanye biterwa n'indwara zifata amatungo yabo, aho amatungo yabo abakingirwa hanyuma hakirindwa ibyorezo n'indwara bitandukanye.

Ubworozi bwa kijyambere ni bumwe mubitangwamo inama n'impuguke mu by'ubworozi nka bumwe mubutanga umusaruro mwinshi kandi mwiza cyane cyane umukamo, ndetse n'ibindi, aho kandi bagomba kwita ku matungo yabo, bayatera inshinge ndetse n'imiti akeneye mu gihe arwaye, ibi bikabafasha mu kongera umusaruro, hirindwa kandi n'ibibazo bitandukanye amatungo yabo ashobora kugira.

Umuvuzi w'amatungo uri mu bikorwa byo guca amahembe inka akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubworozi ko ubworozi bw'amatungo maremare nk'inka zigomba kwitabwaho ndetse bunakorerwa ibyangombwa byose nkenerwa kugira ngo butange umusaruro mwinshi kandi mwiza.

Umuganga w'amatungo wambaye impuzankano igizwe n'igisarubeti cy'ubururu, aho ari mu bikorwa byo kwambika amaherena inka. Iki akaba ari kimwe mu bikorwa bikorwa n'abavuzi b'amatungo, mu rwego rwo gufasha kwambika nimero amatungo, ku buryo yakurikiranwa igihe habaye ikibazo runaka.

Ubworozi bwa kijyambere bukorewe mu biraro, aho amatungo yitabwaho, ni bumwe butanga umusaruro mwinshi kandi mu bwiza cyane cyane w’amatungo maremare nk’inka, aho zitanga umusaruro w’umukamo ufasha abaturage kugira imibereho myiza. Ndetse kandi, zigatanga n’ifumbire ifashishwa n’abahinzi mu kunoza ibikorwa byabo bya buri munsi, banongera umusaruro w’ibyo bakora.

Umuganga w'amatungo urimo gukingira inka ibyorezo bitandukanye, bigaragaza iterambere mu bworozi aho amatungo akingirwa, hirindwa ibyorezo bitandukanye bishobora kuyafata, bityo bikaba byasunikira abarozi mu bihombo, biterwa n'amatungo yabo kuba yarwara ndetse akaba yanahasiga ubuzima.

Ubworozi bw'amatungo magufi ni bumwe butangwamo inama n'impuguke mu by'ubworozi ko bushobora gutanga umusaruro mwinshi kandi mwiza igihe bwitaweho ndetse bugakurikiranwa neza amatungo ahabwa imiti ndetse n'ibindi by'ibanze nkenerwa, mu gihe gikwiriye.

Mu cyanyaya cyagenewe gukorerwamo ubworozi bizwi nk'amafamu hagaragara amatungo menshi cyane yiganjemo amaremare, inka ndetse n'ayandi, aho kandi harimo abaganga gakondo baje kuvura aya matungo bayaha ubuvuzi akeneye kugira ngo atange umusaruro mwinshi kandi mwiza.

Umuganga w'amatungo uri mu gikorwa cyo gukingira inka ayifashijwemo n'umuturage waje kuyikingiza, ibi akaba ari bimwe mu bikorwa hirya no hino mu gihugu mu rwego rwo gufasha abaturage kwirinda ibihombo bitandukanye baterwa n'ibyorezo bifata amatungo yabo, aho kandi bishobora kuyahitana bahabwa ubuvuzi bw'amatungo ku gihe.

Umuganga w'amatungo aho arimo kuvura inka ayitera intanga, iyi akaba muri gahunda zashyizweho na guverinoma y'u Rwanda, mu rwego rwo gufasha ubworozi mu kongera umusaruro mu bwinshi ndetse no mu bwiza bw'ubworozi, aho bifashisha ibikoresho by'ikoranabuhanga, ndetse n'izindi tekinoloji mu gutera inka intanga, bityo bakongera umusaruro wazo.

Umuganga w'amatungo uri mu bikorwa byo gukingira amatungo, akoresheje ibikoresho ndetse n'imiti byabugenewe. Iyi ikaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubworozi ko amatungo na yo agomba kwitabwaho, ahabwa imiti ndetse n'ibindi byangombwa nkenerwa, kugira ngo atange umusaruro mwinshi kandi mwiza.

Inyamaswa z'ishyamba zigaragara hirya no hino muri parike, ndetse n'amashyamba kimeza yo mu Rwanda, ni bimwe mu bikurura ba mukerarugendo, baza gusura igihugu cyacu, bityo bikadufasha mu kwinjiza amadevize, ndetse no kwiteza imbere, binyuze mu madevize aba yazanywe n'aba ba mukerarugendo.

Hirya no hino mu mashuri yigisha ubumenyigiro, imyuga ndetse n'amasiyansi, hagaragara ibyumba byagenewe gukorerwamo ubushakashatsi ndetse n'aho abanyeshuri bashyira mu ngiro ibyo biga. Aho berekerwa n'abarimu hagamijwe ko bagira ubumenyi bwa nyabwo, bubafasha mu gukemura ibibazo bitandukanye biri hirya no hino muri sosiyete, binyuze mu bumenyi baba barakuye mu mashuri.

Ubworozi bwa kijyambere aho amatungo yitabwaho ndetse agahabwa imiti n'ibindi byangombwa nkenerwa nibimwe bitangwa n'inama n'impuguke mu by 'ubworozi kuko bishobora gutanga umusaruro mwinshi kandi mwiza bityo bigafasha aba bikora mu kwiteza imbere ndetse no kuzamura imibereho yabo.

Umugabo wambaye igisarubeti cy'ubururu ndetse n'agapira k'umukara afashe igitabo mu ntoki arimo kwandikamo iherena agiye kwambika inka y'umuturage. Iyi akaba ari imwe muri serivisi zitangwa n'abavuzi b'amatungo mu rwego rwo gufasha abaturage kumenya ndetse no kubarura umubare w'amatungo magufi ndetse n'amaremare agaragara hirya no hino mu Gihugu, bityo ngo akurikiranwe yitabwaho atange umusaruro uko bikwiriye.

Inyamaswa z'ishyamba ziganjemo iziboneka mu misozi miremire nk'ingagi, inkende ndetse n'izindi, ni zimwe mu zikurura ba mukerarugendo basura igihugu cyacu, bikazamura iterambere ry'igihugu. Aho bamu mukerarugendo bazana amadevizege binjiye mu gihugu, bityo bikazamura ubukungu bw'igihugu ndetse natwe tukabasha kwiteza imbere.

Ubworozi bw'amatongo magufi cyane cyane yiganjemo ihene, intama, ingurube, inkoko ndetse n'andi, ni bimwe bitangwamo n'inama n'impuguke mu by'ubworozi kuko bushobora gutanga umusaruro mwinshi kandi mwiza mu gihe gito, igihe bukozwe neza ukaba ugirwamo inama yo kuyobokwa naborozi nka kimwe mu bisubizo byogufasha kwiteza imbere mu gihe cya vuba.

Amashyamba kimeza ndetse n'ibyanya bya parike ni bimwe bicumbikira inyamaswa nyinshi cyane zikurura ba mukerarugendo basura Igihugu cyacu, nk'ingagi, inkende, imparage ndetse n'izindi. Aho ba mukerarugendo kandi badufasha kuzamura ubukungu bw'Igihugu binyuze mu madevize binjiza, igihe baje gusura Igihugu cyacu.

Hirya no hino mu mashyamba ya kimeza, ndetse n'ibyanya bya pariki, ni hamwe mu hagaragara inyamaswa zikurura ba mukerarugendo, baza gusura igihugu cyacu cy'i Rwanda, aha twavugamo nk'imparage, ingagi, ndetse n'izindi, aho ba mukerarugendo badusigira amadevize adufasha mu kuzamura ubukungu bw'igihugu cyacu, ndetse no kwiteza imbere.

Amashyamba kimeza ndetse n'iya bya pariki bigaragara hirya no hino mu gihugu ni bimwe bicumbikira inyamaswa ziganjemo iz'imisozi ndetse n'inyoni nyinshi bikurura ba mukerarugendo basura igihugu cyacu bityo bigafasha igihugu kuzamuka mu bukungu binyuze mu madevize yinjizwa na ba mukerarugendo baza gusura ibyiza nyaburanga.

Amashyamba kimeza ndetse n'ibyanini bya pariki ni bi mu bikurura ba mukerarugendo baza gusura igihugu cyacu cyane cyane baje kurebamo inyamaswa zihariye z'ubudasa ziboneka muri ibi byanya by'ibidukikije. Aho kandi bazana amadevize yinjira mu gihugu cyacu bityo bikadufasha kwiteza imbere ndetse no kuzamura ubukungu bw'igihugu cyacu.

Inyoni zigaragara mu byanya bya pariki byo mu Rwanda, ni bimwe mu bikurura ba mukerarugendo baza gusura Igihugu cyacu, bigafasha mu kuzamura iterambere, ubukungu bw'Igihugu binyuze mu madevize yinjizwa na ba mukerarugendo, igihe baje gusura ibi ibyiza nyaburanga, bigaragara mu Gihugu cyacu.

Inyamaswa ziboneka mu bice by'imisozi miremire ziganjemo ingagi, nkende, imparage ndetse n'izindi, ni zimwe mu zikuru ba mukerarugendo baza hirya no hino, baje gusura igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibi bigafasha mu kuzamura iterambere n'ubukungu bw'igihugu, binyuze mu madevize yinjizwa n'aba ba mukerarugendo.

Hirya no hino mu gihugu hagaragara amashyamba kimeza ndetse n'ibyanya bya pariki bicumbiki inyamaswa nyinshi cyane ziganjemo izo mu misozi miremire nk'ingagi inkende, imparage ndetse n'izindi. Izi zose zika zifite umwihariko wo gukurura ba mukerarugendo basura igihugu cyacu, bityo bikazamura ubukungu bw'igihugu binyuze mu madevize yinjizwa na ba mukerarugendo.

Inyoni zo mu ishyamba inyamaswa z'inyamisozi nk'inkende ndetse n'izindi ni zi mu zikurura ba mukerarugendo baturuka imahanga baza gusura igihugu cyacu. Ibi bigafasha mu kuzamura iterambere ry'igihugu binyuze mu madovize yishyurwa na ba mukerarugendo igihe basura igihugu cyacu.

Amashyamba kimeza ndetse n'ibyanya bya pariki bigaragara hirya no hino mu Gihugu ni bimwe mu bicumbikamo inyamaswa nyinshi cyane ziganjemo iziguruka ndetse n'izo misozi miremire, izikurura ba mukerarugendo baturuka hirya no hino baza gusura Igihugu cyacu. Aho kandi abakerarugendo badufasha mu kuzamura ubukungu bw'Igihugu binyuze mu madevize batuzanira iyo baje gusura ibyo byiza nyaburanga.

Inyamaswa z'ishyamba ziganjemo inkende ndetse n'ingagi biboneka mu misozi miremire ni bimwe bikuru ba mukerarugendo baturuka hirya no hino, baza gusura igihugu cyacu, ibi kandi bikazamura iterambere ndetse n'ubukungu bw'igihugu, binyuze mu madevize yishyurwa na ba mukerarugendo igihe baje gusura ibyiza nyaburanga.

Amashyamba kimeza ndetse n'ibyanya bya pariki bigaragara hirya no hino mu gihugu, ni ibikombe bicumbikira inyamaswa z'ingenzi zikurura ba mukerarugendo, ziganjemo: ingagi, imbogo, intare, ndetse n'izindi; aho baza gusura izo nyamaswa ndetse n'ibindi byiza nyaburanga bagasiga amadevizi mu gihugu, yifashwishwa mu kuzamura iterambere ndetse n'ubukungu by'igihugu.

Ubukerarugendo ni kimwe bizamura cyane ubukungu bw'igihugu ndetse bukaninjiza mu gihugu amafaranga menshi cyane cyane y'amadovize, aho ba mukeragendo baza gusura ibiremwa ndetse n'ibyiza nyaburanga bitandukanye bigaragara mu gihugu cyacu higanjemo inkende, ingagi, imbogo ndetse n'ibindi.

Amashyamba ki meza ndetse n'ibyanya bya pariki ni bimwe mu bicumbikira inyamaswa nyinshi cyane zikurura ba mukerarugendo ziganjemo i ziboneka mu misozi miremire y'u Rwanda nk'inkende ,Ingagi, Ishya ndetse n'izindizi nyamaswa zose zikaba zifiteho uruhare rwo kuba mukeragendo baza gusura igihugu cyacu cy'u Rwanda bityo bikazmura iterambere by'igihugu binyuze mu madevize yingizwa na ba mukerarugendo.

Inyoni ziboneka mu mashyamba ya kimeza ndetse n'ibyanya bya pariki ni bimwe mu bikurura ba mukerarugendo basura igihugu cyacu cy'u Rwanda bityo bikazamura iterambere n'ubukungu bw'igihugu binyuze mu bikorwa by'ubukerarugendo, ndetse n'amadevize bizanwa na ba mukerarugendo igihe baje gusura igihugu cyacu.

Ubworozi bw'amatungo magufi ni bumwe mu bugira uruhare runini cyane mu kuzamura imibereho y'ababukora, aho butanga umusaruro mwiza cyane w'umukamo, ndetse bugafasha n'ababukora kubona ifumbire ibafasha guhinga imirika yabo, bityo bakabasha kwiteza imbere babona ibi ibatunga ndetse bagasagurira n'amasoko.

Ubukerarugendo ni kimwe mu ruganda rwinjiza amafaranga menshi mu gihugu, binyuze mu madovize azanwa na bamukerarugendo baza gusura ibyiza nyaburanga bitandukanye bigaragara mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, byiganjemo ingagi zo mu misozi miremire, inkende, imbogo, imparage ndetse n'izindi.

Hirya no hino mu ma parike ndetse n'amashyamba kimeza, hagaragara inyamaswa ndetse n'ibindi birimo bitangaje bikurura ba mukerarugendo baza gusura igihugu cyacu, ibi kandi bigatuma igihugu gitera imbere, kubera ko kinyuzwaho n'amadovize aba yazanywe na ba mukerarugendo baje gusura igihugu cyacu.

Inyoni z'ishyamba ni kimwe mu mwihariko wa kimwe mu byanya bya parike bigaragara mu Rwanda bizwiho gukurura ba mukerarugendo baturuka hirya no hino ku isi, baje gusura ibyiza nyaburanga byo mu Gihugu cyacu. Bikadufasha mu kwiteza imbere ndetse no kuzamura iterambere ry'Igihugu binyuze mu madevize yinjizwa na ba mukerarugendo baba basuye ibi byiza nyaburanga.

Abaturage barikugenda ku kiraro cyo mu kirere kiboneka mu cyanya cya pariki cya Nyungwe aho ibikorwa by'ubukerarugendo byinshi bibera. Abaturage baza gusura hirya no hino ndetse n'abakerarugendo bakaza kubisura bitewe n'ibyiza nyaburanga bigaragara muri iki cyanya cya pariki. Bityo bikazamura ubukungu binyuze ku madovize yishyurwa na ba mukerarugendo baba baje gusura ibi byiza nyaburanga.

Ubudasa bw'inyamaswa zo mu ishyamba zigaragara hirya no hino mu Rwanda, ni bimwe mu bikurura bamukerarugendo baturuka imahanga baje gusura ibyiza nyaburanga biri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ibi bikadufasha kwiteza imbere ndetse bikazamura n'ubukungu bw'igihugu binyuze mu madevize yinjijwa n'aba bamukerarugendo, igihe basuye Igihugu cyacu.

Inyoni ziboneka mu byanya bya parike hirya no hino mu Rwanda, ndetse no mu mashyamba kimeza, ni kimwe bikurura ba mukerarugendo basura Igihugu cyacu, bityo bagasiga amadevize mu gihugu, ndetse bakanadufasha kuzana ubuhahirane hagati yacu ndetse n'ibihugu bakomoka, bikazamura iterambere ndetse n'ubukungu by'Igihugu cyacu.

Hirya no hino mu Rwanda hagaragara amashyamba ya kimeza ndetse n'ibyanya bya pariki bicumbikira inyamaswa nyinshi cyane zikundwa na ba mukerarugendo, harimo nk'ingagi, imparage, impara, udusumbashyamba ndetse n'izindi, byose bikurura ba mukerarugendo baza gusura igihugu cyacu, bityo zikagira uruhare mu kwinjiza amadevize, ndetse no guteza imbere igihugu cyacu.

Kumashyamba cyimeza aboneka hirya no hino mu Gihugu, ndetse n'ibyanya bya parike ni bimwe mu bicumbikiye inyamaswa nyinshi cyane, zikurura ba mukerarugendo ziganjemo inkende, impala, imparage, imbogo ndetse n'izindi. Aho ba mukerarugendo binjiza amadevize mu Gihugu, bityo bigateza imbere Igihugu ndetse bikazamura n'ubukungu bwacyo.